Serivisi z'ubuzima zihabwa buri muturage wese nk'uko aba bafashamyumvire n'abafatanyabikorwa ku bijyanye n'ingamba z'ubuzima bambaye impuzankano y'ubururu bazwi nk'abanyabuzima bo ku rwego rw'imidugudu abaturage bitabiriye inama yo kugira ngo bahabwe inama z'uburyo ki bagomba guteza imbere umuco wo kwita ku buzima bwabo nabo babigizemo uruhare bitabiriye .

Ubuvuzi bwiza bw'ibanze ku babyeyi n'abana ni ingenzi cyane. Uyu mubyeyi yambaye agapfukamunwa, arimo arakinisha umwana, arimo aramuganiriza n'inyuma hari undi, guhabwa serivisi z'ubuzima bituma umubyeyi ataha yishimye kubera ko aba yahawe serivisi nziza, bigatuma arera umwana neza, akamutegurira indyo yuzuye bitewe n'ingamba z'ubuzima bamuhaye.

Uyu mubyeyi avuye kuvoma aho yikoreye ijerekani avuye gushaka amazi yo kwifashisha mu rugo. Abana bishimiye ku kuba babonye amazi mama wabo ayazanye, araza kubafasha mu kuba bakuhira jaride, mu kuba bakora isuku. Bigaragara ko bishimiye kuba mama wabo avuye kuvoma amazi yo kwifashisha mu rugo.

Ihuriro cyangwa inama yahuje abahagarariye abandi baturage mu gushyira mu bikorwa no gufata ibyemezo ku ngamba z'ubuzima cyangwa gufata ibyemezo ku buzima bw'abaturage ku mibereho myiza y'abaturage babahuriye mu cyumba cy'inama bari kuganiriramo bose bafite ajenda n'amakaramu bifashisha mu kugira ngo bandike imyanzuro iri bufatirwe hano hantu bafite abayobozi bagiye batandukanye bafite amazi abafasha.

Ry'abafite mu nshingano gufata no kwita ku ngamba zo ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, aho bari bahuriye muri iki cyumba cy'inama bari kuganirira hamwe buryo ki ubuzima bw'umuturage bwakagombye kwimakazwa bugashirwa imbere, aho bari kuganira bamwe bafite ajenda barikodinga amakuru bandika ibyavugiwe muri iyi nama, bafatira hamwe imyanzuro irebwa n'aba bayobozi bahagarariye abaturage mu nzego zigiye zitandukanye.

Abajyanama b'ubuzima bagira uruhare mu gupima abaturage ibijyanye n'umuriro, aba babyeyi baje kwipimisha. Uyu mujyanama w'ubuzima wambaye impuzankano itaburiya y'umweru, afite ibikoresho bipima umuriro, bipima umuvuduko w'amaraso n'indwara zindi z zigiye zitandukanye. Bari mu busitani bwiza bari gufashwa.

Ingamba zijyanye n'ubuzima ihuriro mu nama nyunguranabitekerezo kuko ubuzima bw'umuturage bwakagombye gushyirwa imbere bugafashwa kuzamuka ababyeyi bishimiye ku bitekerezo n'inama bahawe bari bitwaje ajenda mu kumva ibitekerezo n'inama bagiriwe kugira ngo bajye bagira ubuzima bwiza.

Ingamba zijyanye no guteza imbere cyangwa gufata ibyemezo by'ubuzima ku buryo ubuzima bw'umuturage bwakagombye gushyirwa imbere, ikikirango kirerekana uburyo ki habaho ubufatanye ku bihugu cyangwa ubushuti ku bihugu ku ngamba zo kugira ngo ubuzima bw'abaturage bushyirwe imbere, buzwi mu ndimi nka nofu kolona gorobo ariyensi.

Kwita ku baturage ni inshingano z'ababifite mu nshingano, aho abo babifite umushingano no kwita ku muturage bamuha keya bambaye udupfukamunwa n'udupfukantoki, ingofero zabugenewe zo kwirinda umurwayi araryamye afite ibyuma bimufasha mu guhumeka, bimufasha mu kubona umwuka mwiza, hari ahantu hizewe mu rwego rwo kwirinda bambaye imyenda yabugenewe kugira ngo bibafashe kwirinda.

Imodoka cyangwa ibinyabinyabiziga bitwara ibiryo byoherejwe bivuye mu mahanga byoherejwe na wfp wodi fudu porogaramu kugirango ngo bifashe abaturage b'ibihugu bikennye n'ibihugu bifite ubukungu bwazahaye cyangwa byahuye n'ibiza.

Amazi ni ubuzima amazi ni meza cyane uyu mujene arigukaraba yifashishije amazi meza n'isabune isuku ni umuco ukwiye kuranga abanyarwanda bose muri rusange kuko iyo ukoze isuku wifashishije amazi meza n'isabune bigufasha kwirinda indwara zandura zikomotse cyangwa ziturutse ku mwanda.

Ihuriro ry'inzobere iganiriza abajyanama b'ubuzima, kugira ngo harebwe uburyo umuturage yashyirwa imbere ku bitaro, ahazwi nko kuri santere dosante, hahuriwe abajyanama b'uzima b'abagabo n'abagore bahagarariye abandi mu midugudu, kugira ngo bigishwe uburyo bakwiye kugirira abaturage izindi nama zijyanye n'ubuzima.

Ihuriro ry'abayobozi bagiye batandukanye mu kuganira mu kugirana ibiganiro ku ngamba z'ubuzima, aho baganira ku muti w'ibibazo bigiye bitandukanye abaturage bagenda bahura na byo, bagahanahana ibitekerezo, bakaganira bagafatira hamwe imyanzuro ireba inyungu z'ubuzima bw'umuturage, umuturage na we akaba nyambere mu gushyira mu bikorwa ibyavuye muri iyi myanzuro iba yaganiriweho n'ababahagarariye.

Amazi ni ubuzima, amazi afasha mu mirimo igiye itandukanye, nta mazi nta buzima. Aba babyeyi bishimiye kuba bafite amazi meza afite robine ebyiri baje kuvoma bafiteye amabido, bishimiye kuba amazi abegereye, amazi abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi mu guteza imbere umuco w'isuku mu kwifashisha mu kuhira imyaka na jaride zo mu rugo.

Abakangurambaga baganirije abaturage, abanyabuzima abaganga baganije abaturage babaganiriza buryo kibi bakwiye kwita ku buzima bw'umwana kuva agisamwa kugeza agejeje imyaka ibiri mu minsi igihumbi ya mbere akitabwaho agahabwa umwanya akumvwa agahabwa kaya zihagije.

Ingamba ku bijyanye n'ubuzima aho abakangurambaga b'umudugudu, bazwi ku izina ry'abajyanama b'ubuzima, abajyanama b'imibereho myiza y'abaturage, bari kugerageza gupima uburebure bw'umwana, bamupima ibiro, bifashishije biriya bipimo, abaturage bitabiriye, n'inzobere, n'impuguke ku bijyanye n'ubuzima bw'umwana bari kugenda bagira inama umubyeyi bitewe n'ubuzima bw'umwana babona afite.

Ikirango kiri mu mpine kiri mu ibara ry'ubururu mu nyuguti ziri mu mpine mu ibara ry'umweru, kerekana umuryango mpuzamahanga ushinzwe guteza imbere no guha agaciro no guha uburenganzira ihame ry'uburinganire ku mugore, wodi fondsheni porogaramu.

Ingamba zijyanye n'ubuzima abaganga n'inzobere bazishyira mu bikorwa aho batanga serivisi z'ubuzima, aba baganga bari guha uyu murwayi serivisi z'ubuzima, bambaye udupfukamunwa n'imyenda yabugenewe ikoreshwa mu gihe cyo kuvura nawe yambaye agapfukamunwa arahabwa serivisi bari kumupima ngo barebe umuvuduko w'amaraso afite.

Kwita ku baturage ni inshingano za buri muyobozi uwo ari we wese aho abayobozi bateraniye mu cyumba cy'inama baganiriza abaturage harimo ababyeyi abagabo bagiye batandukanye baturutse mu mpande zi zitandukanye z'utugari . Hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda bari mu cyumba barimo baraganizwa ku ngamba zigiye zitandukanye hari abayobozi bambaye amakadi aranga icyo bagiye bashinzwe.

Ingamba z'ubuzima ku bufatanye n'umuryango mpuzamahanga Unicef ifite mu nshingano kwita ku burenganzira bw'abana, bo mu bihugu bituye isi yose muri rusange, aho bahura bakaganira ku burenganzira bw'umwana n'uburyo ki akwiye guhabwa agaciro.

Uyu mwana yishimiye kuba ari kuvoma, avoma afite amajerekani atatu y'umuhondo ku ivomero, bigaragara ko anezerewe yambaye ipantaro ihinnye y'umutuku n'ishati ya kaki.

Ihuriro ry'abajyanama b'ubuzima bamaze kuganirizwa ku buryo ki hakwiye gufatwa ingamba, kugira ngo umuturage ahabwe serivisi z'ibanze ku bijyanye n'ubuzima. Bambaye impuzankano y'ubururu iri mu ibara ry'ubururu, bahawe ibikoresho bigiye bitandukanye bafite ama bag bagiye babitwaramo.

Abana bishimiye kuba bitaweho n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku burenganzira bwabo bambaye umwenda w'ubururu wanditseho ijambo ry'impminine unicefu umuryango ushinzwe kurengera ubuzima bw'abana mpuzamahanga.

Inama yahuje abafite mu nshingano gufata ingamba n'ibyemezo ku ngamba z'ubuzima yahuje inzobere n'impuguke zigira uruhare mu kugira ngo ibyemezo ku buzima bifatwe byitabiriwe n'abagabo n'abagore bafite amazi hafi yabo, bicaye baganirizwa ku ngamba zijyanye n'ubuzima n'uburyo ki zafatwa zigashyirwa mu bikorwa n'abaturage.

Yegereye kandagira ukarabe ya UNICEF, ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku bana no kurengera uburenganzira bwabo, yambaye imyenda ya kotoni, ijipa ya kotoni n'inkweto za bodaboda n'agatishati k'umweru, ari ku ishuri aho batozwa gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune mu gihe cy'impeshyi, biragaragara ko hari izuba ryinshi cyane. Ni byiza gukaraba amazi meza n'isabune.

Amazi ku muturage ni ingenzi cyane aho aba baturage bahawe amavomero, bafite robine zigera kuri eshatu, bishimiye kuba amazi yarabegerejwe baje kuvoma ari benshi abana n'abagore aho bishimiye kuba amazi abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi mu gukora isuku ku mubiri, ku myambaro, kuhira ubusitani, kuyaha amatungo, kuyakoresha mu buryo bugiye butandukanye.

Amazi ni ubuzima, amazi ni meza, iyi robine ifite amazi meza, uyu ari gukaraba intoki n'amazi meza kubera ko amazi ahari, amazi yifashishwa mu kwirinda umwanda no guteza imbere umuco w'isuku, umuntu akagira uruhu rukeye kubera amazi meza.

Ivomero aho abaturage bishimiye kuba bafite amazi meza, bafite amavomero abiri robine ebyiri, hari umukangurambaga uri kubabwira ati: ''Mujye mwirinda kuba mwakangiza amazi.'' Iri vomero riri ahantu heza hafite natire nziza hafite umutekano.

Ni ingamba z'ubuzima aho uyu mujyanama w'ubuzima afasha ababyeyi kumenya uburebure bw'abana babo nicyiciro cy'ubuzima barimo ni icyiciro cy'imirire myiza niho hari ibyo bakwiye kongera mu ndyo yuzuye bikabafasha mu kubagira inama zigiye zitandukanye hashingiwe ku bipimo by'uburebure n'ibiro by'umwana.

Kwita ku buzima bw'umurwayi ni ingenzi no guhabwa serivisi ku murwayi ni uburenganzira bwe aba baganga uko ari babiri bari kwita ku murwayi muganga wa mbere ari kumupima akaboko ngo arebe niba nta kibazo gafite abaganga bose bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru n'ingofero zabugenewe z'akazi umurwayi yambaye yunifomu y'uburwayi izwi iri mu ibara ry'ubururu.

Inamama nyunguranabitekerezo ku bijyanye n'ubuzima yahuje inzobere n'impuguke aho bahanahana ibitekerezo, bagasangira ibitekerezo ku ngamba zigize zitandukanye ku bijyanye n'ubuzima, nyuma hagafatirwa hamwe umwanzuro ku buryo umuturage wese agomba guhabwa serivisi nziza kugira ngo abashe kwiteza imbere afite ubuzima bwiza agire ubuzima buzira umuze.

Kugira amazi k'umuturage ni inshingano z'abayobozi ba abanyeshuri, uyu munyeshuri arimo arakaraba amazi meza n'isabune, yimakaza umuco wo kugira isuku, yirinda umwanda akoresheje aya mazi bahawe ku kigo cy'ishuri, ni mu gihe cy'impeshyi ibiti byashizeho amababi, birumvikana mu gihe cy'impeshyi amazi akenerwa nimenshi.

Serivisi z'ubuzima ni ingenzi cyane, buri wese akitabwaho iyi nzu yakirirwamo abarwayi bagiye batandukanye turabona umurwayi yambaye agapfukamunwa arimo kwakirwa arimo gusuzumwa agahabwa serivisi z'ubuzima bitewe n'uburwayi afite.

Ingamba z'imibereho myiza no guteza imbere ubuzima bwiza abaturage bahawe amazi bafite robine enye, umwana arangije kuvoma avumesha indobo. amazi yifashishwa mu gukora isuku mu rugo kuhira jalide gukora isuku yo ku mubiri kwifashi mu koza ibikoresho byo mu rugo bigiye bitandukanye.

Abakozi bafite munshingano gufasha ingamba z'ubuzima kugira ngo zishyirwe mu bikorwa no gufasha abaturage bakeneye serivisi z'ubuzima bazwi nk'abakozi ba wadi herifu oruganizesheni bazwi mu ndimi z'amahanga nka daburiyu eci o, bari kugerageza gutanga imfashanyo.

Amazi n'ubuzima umubyeyi ari kumesha ikibasi kinini n'ikidobo cy'icyatsi bari kugenda bagira uruhare mu kubungabunga amazi ababyeyi bari kumufasha kugira ngo avome neza amazi yifashishwa mu mirimo igiye itandukanye y'isuku kuhira ubusitani n'indabo kuyaha inka n'ibindi bintu bigiye bitandukanye amazi n'ubuzima amazi ni meza.

Gukoresha amazi yanduye si meza, uyu bigaragara ko ari kuvoma mu kiyaga cyangwa mu mugezi utemba kandi aya mazi aba yanduye cyane ntabwo aya mazi ari meza ku buzima bw'umuntu uyakoresha, aya mazi ni aturwamo n'inyamaswa, amafi n'izindi nyamaswa zo mu mazi, si ayo gukoreshwa mu ngo, ni ayo kuhiza imyaka.

Ihuriro ry'abahagarariye abandi mu gufata ibyemezo mu ngamba z'ubuzima bahuriye hamwe ari abagore n'abagabo bahagarariye abandi kugira ngo baganire ku buryo ki ingamba zo gufata ibyemezo zafatwa kandi zikagira uruhare zikagira umumaro ku bo zishyiriweho.

Aba babyeyi ni batatu umwe aravomesha ibase nini cyane aharimo indobo y'icyatsi ,aba babyeyi bari kugerageza gutanga ubufasha kugirango ngo babone babashe kubona amazi ahagije, hari ikintu bari kugerageza guterura bariya babiri b'inyuma kugirango babashe kubona amazi ahagije kandi menshi.

Minisiteri y'ubuzima ifatanyije n'intego z'isi muri rusange golobo sastayinebo diveropumeti goruzi, yashyize hanze ingamba z'ubukerarugendo aho bamurikira isi muri rusange, uko bakwiye kuvuzita cyangwa gusura u Rwanda bakareba uburyo ki u Rwanda rwita ku benegihugu barwo neza.

Inama y'imiryango mpuzamahanga, yahuje ibihugu bigiye bitandukanye mu gufatira hamwe ibyemezo ku ngamba z'uburyo ki habaho uburinganire n'ubwuzuzanye, umugore mu iterambere, umugore n'iterambere, bibiri na cumi n'umuani, bibiri na makumyabiri, bibiri na cumi n'icyenda, na bibiri na makumyabiri na rimwe. Aho ibihugu byateraniye kugira ngo bishakishe uburyo ki umugore yahabwa ijambo akagira uruhare mu iterambere ry'ubuzima.

Ababyeyi bashinzwe gushyira mu bikorwa no gufata ibyemezo ku ngamba zijyanye n'ubuzima, bicaye ku meza baganira, baganirizwa ku ngamba zijyanye no kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza. Inyuma yabo har’ibirango by'imiryango mpuzamahanga ishinzwe ubuzima.

Umubyeyi usa naho ashaje, yambaye linete z'amaso, yambaye imyenda y'umuhondo n'ubururu n'umukara, inyuma ye hari abana benshi.

Gukaraba intoki ni amazi meza n'isabune ni ingenzi ye nkuko uyu arikaraba amazi meza n'isabune irihaya kuri kariya kantu k'ubururu kari ku ruhande, bivuze ngo mesaje ni ugukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, bigatuma bikurinda umwanda ukagira umuco w'isuku.

Amazi ni ubuzima, amazi ni meza. Aba bana uko ari babiri bafite ububuni, baje kuvoma amazi meza, amazi bahawe, amazi yabegereye, amazi ari hafi yo mu rugo mu busitani, amazi ari ahantu heza hari ubusitani, hari ikirere cyiza, bibafasha kugira ngo bavome amazi afite isuku, afite umwuka mwiza

Inzobere zahujwe no kugira ngo ziganire ku iterambere ry'umuturage, bareba ku buryo bwose bushoboka bwakwifashishwa kugira ngo umuturage wese agire ubuzima bwiza, harimo abera harimo abirabura bahuye baganira ku ngamba z'ubuzima ku buryo ki umuturage yagira ubuzima bwiza.

Ihuriro ry'abayobozi n'abajyanama b'ubuzima n'inzego z'umutekano hari abayobozi hari inzego z'umutekano hari abajyanama b'ubuzima bahuriye kuri poste do sante ifite dizayine nziza cyane mu ibara ry'ubururu hafi y'inyubako y'akagari aho baganirira hamwe ku ngamba zafasha umuturage kugira ubuzima bwiza.

Abaganga ni impano z'imana kuko bafasha umubyeyi utwite kuba yagira ubuzima bwiza binyuze mu kumupima bityo bakamukurikirana paka aruhutse akabyara umwana muzima ufite ibiro bishyitse bagakomeza bakanamukurikirana bakita ku mwana n'imikurire ye aho uyu muganga ari kwita ku burwayi bw'uyu mwana kugira ngo agire ubuzima bwiza akire.

Gaze zifashishwa mu kugira ngo zitange ubutabazi bw'ibanze ku barwayi ziri mu ibara ry'ubururu n'umukara zifite amatibe agerageza kujyana imiti ku barwayi amatibe y'umweru asa naho ateretse ku tuferabeto tw'umukara ku ruhande hariho akandi kantu k'umukara gasa naho gafasha mu kuzana umuriro.

Serivisi z'ubuzima ni ingenzi cyane, abajyanama b'ubuzima barigishijwe bigishwa n'abaganga uburyo ki bakwiye kujya batera inshinge abana nk'uko uyu muganga arimo abigenza, ari gukingira umwana amufasha, umubyeyi nawe ari kubireba, abaganga babiri bafite imiti bari gukoresha.

Abaturage bishimiye kuba bafite amazi meza bahawe amazi ababyeyi barishimye bari baje baje kuvoma, baje ku ivomero, bambaye udupfukamunwa amazi yifashishwa mu gukora ibintu bijye bitandukanye, gukora isuku yo mu rugo kuhira indabo, gukora isuku yo ku mubiri no kwirinda indwara z'umwanda zigiye zitandukanye.

Bari kuvoma mu kiyaga, uriya mubyeyi ari kuvomesha ijerikani mu kiyaga, uriya mu papa ari koza ipine y'igare yambaye bodaboda n'umupira w'umuhondo, uriya mubyeyi yambaye umupira w'umuhondo yazamuye igitenge.

Ni ingamba zijyanye n'ubuzima ku cyorezo cyitwa maribaga, aho minisiteri y'ubuzima ku bufatanye na arabisi(RBC) n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, n'abahagarariye abaturagejyanye no gufata ingamba z'ubuzima bahuriye hamwe bakaganira ku ngamba zijyanye no kwirinda icyorezo cya maribaga.

Ivomero, aho ababyeyi bishimiye kuba UNICEF "umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku burenganzira bw'abana' wabahaye. Iri mu kabara k'uburururi kometse kuri ririya vomero, ababyeyi bishimiye kuba bafite amazi barimo barakaraba, umwe ari kuvomesha indobo y'ubururu abandi bategereje ko yuzuza, bafite ibivomesho bigiye bitandukanye.

IIngamba zijyanye n'ubuzima ku bufatanye n'ihuriro ry'abakozi bashinzwe guteza imbere ubuzima bwiza abajyanama b'ubuzimama bari kuganiza abaturage, abaturage baricaye nabo bari guhabwa amabwiriza y'uburyo KI bagomba guteza imbere no kugira uruhare mu ngamba z'ubuzima zibafatirwa, bari guhabwa imiti iri mu dukarito tw'umweru, n'ibisanduka bigiye birimo imiti igiye itandukanye, n'abana bitabiriye ngo bahabwe serivisi z'ubuzima.

Ihuriro ry'abafite mu nshingano kwita no gushyiraho ibyemezo ku ngamba zijyanye n'ubuzima, bahuye ari abagore babiri n'abagabo bane, kugira ngo baganirire hamwe ku ingamba z'ubuzima n'uburyoki umuturage akwiye kugira ubuzima bwiza, bafite ajenda yo kwandikamo imyanzuro iri bufatirwe muri iyi nama.

Ihuriro mpuzamahanga ry'inzobere n'impuguke ku bijyanye n'ubuzima, aho bahuriye hamwe bakaganira ku ngamba zo gushyira imbere umuturage bakamuha serivisi z'ubuzima zihagije, mu buryo bugiye butandukanye. Hari abanyamahanga baje guhugura abandi bikorera ku giti cyabo n'abakozi ba leta, mu bijyanye n'ubuzima kugira ngo batange serivisi nziza.

Umubyeyi nawe yishimiye ku ngamba zafashwe na minisiteri y'ubuzima ku bufatanye na minisiteri y'ibidukikije aho no mu cyaro hagera amazi, amazi agafasha umuturage wo mu cyaro mu kubungabunga ibidukikije no mu guteza imbere umuco w'isuku n'isukura, aho umwana akwiye kwitabwaho yuhagirwa bihagije kugira ngo agire.

Ikirango kirimo ifoto y'umwana n'umubyeyi kizwi nka kikunze kugaragara ku kirango cya unicef umuryango mpuzamahanga turengera umwana, bigaragara ko gikikijwe n'udushami dusobekeranye tubiri mu kugaragaza ubuvuzi bw'ibanze bukwiye guhabwa abana.

Abana bakwiye kwitabwaho, uyu mugabo ari kugaburira uyu mwana ibiryo, yereka aba babyeyi uko bakwiye kujya bita ku bana babo, bakabagirira isuku ihagije bakabategurira indyo yuzuye, uyu mugabo wambaye agapira kajya gusa nka move, ababyeyi bambaye udupira tw'impuzankano y'umweru.

Ihuriro ry'abahagarariye abandi ry'inzobere n'impuguke mu bijyanye no gufata ingamba z'ubuzima n'iterambere ry'ubuzima, urugaga rw'abakozi bashinzwe gufata ibyemezo kugira ngo umuturage agire ubuzima bwiza n'imibereho myiza, bahuriye hamwe bari kuganira, bari gufata imyanzuro igiye itandukanye ku ngamba zo guteza imbere ubuzima bwiza.

Abakangurambaga ku bijyanye n'ubuzima bateranijwe no kugira ngo bigire hamwe uburyo ki ubuzima bw'abaturage bo bahagarariye bwaba bwiza, bateranijwe no kugira ngo barebe uburyo isuku n'isukura kwigisha umuturage uko yagenda azamura imibereho myiza binyuze mu kugira isuku mu isi kubera ko ariyo soko y'ubuzima.

Abana batandatu bambaye kaki, bafite indobo z'imihondo n'utubuni tw'umuhondo, bagiye ku ivomero, hari amavomero atatu, bari gutega ibiganza ku ivomero.

Amavomero ariho abana batatu n'undi muntu wunamye wambaye aga t-shirt k'umweru n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru n'umukara, abana baje kuvoma bafite utubuni dutatu nkuko n'abari batatu ,babiri bambaye imyenda ijya gusa na kaki ,umwana wo hagati muto muri bo yambaye imyenda ijya gusa umweru n'ubururu.

Ihuriro ry'ababyeyi bagera ku icyenda bahuriye mu cyumba kugira ngo baganire kumba zo kwita ku buzima no kwita ku bana, bari mu nzu iridizayinedi ifite dizayini uburyo abana bitabwaho baganirijwe barishimye bishimiye ku ngamba z'ubuzima bahawe n'inama zijyanye n'ubuzima bigiye hano.

Kugira umuco w'isuku ni ingenzi cyane kuko isuku ni yo soko y'ubuzima twifashishije kandagira ukarabe, kandagira ukaraba idahenze cyane yifashishije uduti dutatu, tubiri dushinze akandi kamwe gatambitse n'akabido n'umugozi bikagufasha ubundi ukagira isuku ihagije mu ntoki uvuye kuri tuwarete cyangwa uvuye ahandi hantu bigusaba gukaraba ugiye gufata ku byo kurya.

Ingamba ku bijyanye n'ubuzima aho zashyizwe hamwe bakerekana buryo zigomba gushyirwa mu bikorwa, zigomba kubahirizwa buri wese agashyirwa imbere nk'uko biriya bimenyetso bigaragaza uburyo ki amategeko agomba kubahirizwa kuri buri wese ntawe ushyizwe imbere kurusha mugenzi we.

Ingamba ku bijyanye n'ubuzima aho umubyeyi yazanye umwana kwa muganga kumusuzumisha bigaragara ko ari umujyanama w'ubuzima ushinzwe kwita ku ndwara z'abana, ari kugerageza kureba ikibazo afite niba ashobora kuba afite bwaki ashingiye ku mibereho ku isura amubonana yifashishije na biriya ibikoresho biri ku ruhande hafi y'ameza.

Ikirango cyerekana umuryango mpuzamahanga ku isi ushinzwe gahunda y'ibiryo unitedi nashino woridi fudu porogarame aho gifasha mu gutanga no gufasha abantu bafite ikibazo cy'ibiryo mu bihugu bifite ubukene n'ibihugu bitishoboye n'ibihugu bya byahuye n'intambara.

Ihuriro ry'abagore n'abagabo, abaturage bahurijwe hamwe kugira ngo bigire hamwe ku ngamba z'ubuzima, bitwaje amajenda n'amakaramu yo kwandikamo imyanzuro irava muri iyi nama kugira ngo ingamba z'ubuzima zishyirwe mu bikorwa hifashishijwe ibiganiro biraza kuganirwa muri iyi nama muri iki cyumba cy'iyi nama.

Ivomero aho abana bagiye kuvoma, bagiye ku ivome ariko bigaragara ko bari kwangiza amazi hakurikijwe uko uriya arimo kubigenza ikigaragara cyo amazi ntabwo bazi agaciro kayo ntabwo bayaha agaciro cyane, kandi bakagombye kubiha agaciro ntibayasesagure amazi yakagombye kubungwabungwa na buri wese.

Ihuriro ry'abayobozi b'inama, ku bijyanye n'ubuzima mu Rwanda, ryateranyije inzobere n'impuguke ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo bigire hamwe uburyo ki abanyarwanda bose muri rusange n'abatuye u Rwanda bagira ubuzima bwiza.

Ihuriro ry'abahagarariye abandi, inzobere n'impuguke mu bijyanye n'ubuzima, zateraniye hamwe abagabo n'abagore bari kuganira ku ngamba zijyanye n'uburyo ki umuturage yagakwiye guhabwa ijambo, akitabwaho, akagira uruhare mu bimukorerwa, agahabwa keya agahabwa agaciro....

Yshimiye kukuba wasake ku bufatanye na wa wadivijeni, yabahaye amazi meza amazi arajya abafasha mu koga bagiye ku ishuri, uyu umwana yishimiye kukuba wasake yatanze amazi meza, amazi hafi y'umuturage arajya amufasha mu guteza imbere umuco w'isuku.

Abana bishimiye kuba barikwibira, bari kwidumbaguza, mu kiyaga barishimye nubwo byangiza, cyangwa byanduza indwara z'uruhu, zikanduza indwara ziterwa n'inzoka ziterwa no kunywa amazi mabi.

Ingamba zijyanye no guteza imbere umuco w'isuku hirindwa umwanda hakoreshejwe kandagira ukabe; uyu mugabo ari gukaraba amazi meza n'isabune, yifashishije iriya kandagira ukarabe ikoreshejwe mu kabido naturiya duti dutatu tuteye nk'amazamu n'umugozi, arakandagira agakaraba, agakandagira kuri kariya gati bikamufasha kwirinda umwanda.

Umwana uteza ibiganza ku ivomero afite ibivomesho bigera kuri bitatu arishimye arasutamye yishimiye kukuba amazi ahari yambaye agatisheti karimo amabara y'umutuku n'ubururu n'umuhondo bigaragara ko amazi ahari.

Isuku ni isoko y'ubuzima. Iyi ni Kandagira ukarabe yuzuye neza, indobo, amaguru akandagira ukarabe n'ibase. Umwana bigaragara ko yishimiye gukaraba amazi meza akirinda umwanda, bityo agateza imbere umuco w'isuku hose, ahari hose agakaraba, yegereye toilettes, uvuye kuri toilettes agomba gukaraba amazi meza n'isabune.

Serivisi z'ubuzima zihabwa abaturarwanda ni byiza cyane, abakangurambaga n'abajyanama b'ubuzima n'abafite mu nshingano gushyira mu bikorwa ingamba z'ubuzima, bari gutanga amata bayaha abana, abana bizihiwe bari kuyanywa bifashishije ibikoresho byabugenewe.

Ingamba z'ubuzima mu kugira ngo umuturage agire ubuzima bwiza, uyu muganga ari kwitakura aba barwayi, ari kwita kuri uyu mwana, yambaye udupfukantoki, yambaye kadi yerekana ubuvuzi cyangwa icyo ashinzwe gukora, umubyeyi yishimiye ko umwana we ari kuvurwa, ari gupimwa, ari gusuzumwa kugira ngo ahabwe imiti igendanye n'uburwayi bwe.

Umwana yishimiye kuba afite kandagira ukarabe kuba abona amazi yo gukaraba igihe avuye ku ishuri bigaragara ko ari umunyeshuri yishimiye ko kuba ku ishuri ryabo harikandagira ukarabe bakaraba neza cyane bikabafasha mu gusigasira ubuzima bwabo bakagira isuku mu rugo no ku ishuri.

Ihuriro cyangwa inama yahuje abahagarariye abandi mu bijyanye n'ubuzima no gufata ingamba z'ubuzima, hari abayobozi, abashinzwe umutekano, ku nzego za polisi, bari kuganiza ku ngamba zijyanye n'ubuzima, n'uburyo hagomba gufatwa ibyemezo bigiye bitandukanye, bicaye mu itente kubera ko ni kuzuba bari muri jaride nziza mu gihe cy'impeshyi bari kuganizazwa ku ngamba z'ubuzima.

Amazi n'ubuzima, amazi ni meza, amazi afasha mu gukora isuku ya buri munsi, mu ngo, ku mashuri, ku bigo nderabuzima, n'ahandi hagiye hatandukanye. Umujene yitwaje indobo zigera kuri eshatu ari kuvoma amazi, mbere y'uko avoma ari kubanza kuzisukura. Amazi yifashishwa mu gukora isuku mu buryo bugiye butandukanye.

Umusaza yishimiye ku kuba amazi ari hafi yiwe, afite amazi meza yarahawe amazi meza, amazi ni ubuzima, isuku ikorwa hifashishijwe amazi niyo mpamvu uyu mugabo yishimiye ku kuba hafi y'iwe hari amazi meza.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe kuvura indwara zo mu mutwe. Aho habaho ubukangurambaga ku baturage bagiye batandukanye. Wabaye ku itariki cumi n'umunani z'Ukwakira bibiri na makumyabiri. Aho haganiriwe ku ndwara zo mu mutwe n'uburyoki zifata n'uburyoki zakagombye kwitabwaho zikavurwa zigakira, buri wese agahabwa agaciro hatitawe ku kuba afite uburwayi bwo mu mutwe.

Ihuriro ry'abashinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe, abagabo n'abagore bateraniye hamwe kugira ngo bige ku ngamba zijyanye no kugirango barengere ubuzima bwo mu mutwe bicaye ku ntebe abandi barahagaze, inyuma hari ikirango kiranga icyarikibahuje cyanditse mu magambo y'umukara bari hafi y'inzu bakoreyemo iri huriro.

Bakeneye ubufasha, bari kurira nta buzima bafite, barababaye, harimo abari kubabara, abari kurira, abishwe n'inzara, abagize ibibazo kubera ibibazo by'inzara n'ibibazo byo kubura ababyeyi.

Kwita ku ndwara zo mu mutwe ni ingenzi cyane, umutega amatwi ,umwumve wumve akababaro ke, wumve agahinda ke wumve ikibazo afite, bityo bizamufasha mu kongera kugaruka mu buzima busanzwe, yongere yiyumvemo sosiyete ye umurinde kwigunga umufashe kongera kugaruka ibuntu ava ibuzimu ,binyuze mu kumutega amatwi indwara yo mu mutwe iterwa n'uburyo bugiye butandukanye.

Indwara zo mu mutwe ni indwara zivurwa zigakira, uyu afite ikibazo cyo mu mutwe bigaragara ko yambaye ubusa, ufite ikibazo akwiye kwitabwaho agahabwa serivisi z'ubuzima akagirwa inama agahabwa imiti imufasha kugira ngo yongere agaruke mu buzima busanzwe buzima.

Indwara zo mu mutwe ni indwara zifata zitarobanuye nabo ni abantu nk'abandi bitabweho bahabwa agaciro nk'abandi bahabwa ubufasha bajyanwe kwa muganga bitabweho bahabwe serivisi z'ubuvuzi bongere bagaruke i buntu ba bave i buzima bajye i buntu.

Abajyanama b'ubuzima ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe, zifata abakuze, abato, abagore n'abagabo, ingimbi n'abangavu, baganira ku bijyanye no ku kwita no guha agaciro, serivisi zihabwa abafite indwara zo mu mutwe.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc mu ihuriro ryacyo baganira ku ndwara zo mu mutwe n'uburyo ki zakagombye kuvurwa zigakira aho hari ihuriro ryahuje inzobere n'impuguke ku ndwara zigiye zitandukanye mu kwirinda hashyizwemo metero hifashishijwe imiti.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo ari mu nyuguti nini, ari mu ibara ry'umukara, hahagazwe n'umugabo wambaye ishati y'umukara n'ipantaro igaragara nk'umweru, hariho na kashe yigihugu, bigaragara ko hari ikirango cyerekana ubumuntu.

Indwara zo mu mutwe, ni indwara zifata abantu ku buryo bugiye butandukanye, hari izifata umuntu akagira agahinda gakabije, akagira kwiheba, kwigungabana, kuba nyakamwe, bitewe n'impamvu zigize zitandukanye z'ubuzima, ibibazo by'umuryango, ibibazo bigiye bitandukanye, uyu mugabo yishyize mu kato ari wenyine yigunze .

Ihuriro ry'inzobere n'impuguke zahuriye hamwe mu gufata ibyemezo ku ngamba z'ubuzima bwo mu mutwe bari kuganirizwa kuko bakwiye kwita ku bafite ikibazo n'uburwayi bwo mu mutwe bagafatwa neza kuko nabo abantu nk'abandi, bambaye impuzankano y'imipira y'imikara iriho ikirango bari kuganirizwa.

Ihuriro ry'abafite mu nshingano cyangwa ry'inzobere n'impuguke ku bijyanye n'ubuzima " World Mental Health Day " umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku ndwara zo mu mutwe. Aho hari inzobere ziri kuganira, ziganiriza abahagarariye abandi, ku buryo ki indwara zo mu mutwe zikwiye kuvurwa zigakira. Bambaye udupfukamunwa, bari kuganira harimo intera ya metero

Bishimiye serivisi z'ubuzima zitangwa n'urugaga rw'abaganga mu Rwanda, abana n'ababyeyi bishimiye ku kuba aba bitabwaho bihamye, binoze bahabwa serivisi ziboneye ntawe usigaye inyuma yaba umwana cyangwa umubyeyi, yaba n'umugabo bose bishimiye serivisi bahabwa n'urugaga rw'abaganga.

Inama yahuje abayobozi bahagarariye abandi Banyarwanda mu gusangira ibitekerezo ku buryo ki Umunyarwanda wese akwiye kugira ubuzima bwiza, aho bafatira hamwe ibyemezo mu kwita ku muturage n'Umuturarwanda wese mu guhabwa ubuzima, aba ni abanyabuzima, ni batatu, bahujwe no kuganira ku buzima bw'umuturage uko bwaba bwiza.

Igihembo cyahawe umukozi mwiza, witaye ku barwayi neza, agatanga serivisi nziza, nk'uko aba bagabo b'inararibonye bashimiye uyu muganga, iyi nzobere, uyu mukozi mwiza, yahawe ishimwe ryo kuba yaritaye ku barwayi neza nk'igihembo.

Ihuriro ry'abahagarariye abandi mu kwita ku buzima bwo mu mutwe, bahuriye hamwe baraganira bamaze kuganira, babaha impuzankano y'imipira y'ubururu, inzobere zimaze kubaganiriza, baganiriraga hamwe mu cyumba cy'inama ku ngamba z'ubuzima bwo mu mutwe.

Abaganga iyo batanze serivisi ku bijyanye n'imitekerereze ya muntu, bimurindada kuba yagira indwara zo mu mutwe z'ubuzima bwo mu mutwe, ikamufasha mu kuba yagira ibyishimo bikomoka ku kuba yahawe serivisi nziza kuganirizwa se, uyu mubyeyi ukikiye akana yishimiye ku kuba kishimye karavukanye ibiro bishyitse.

Abafite ubumuga bwo mu mutwe nabo bakwiye kwitabwaho bagahabwa agaciro bakavurwa bagakira, uyu afite ikibazo nta suku afite, afite ibicupa, afite imyanda, akwiye kwitabwaho agahabwa agaciro akavurwa agakira akagira ubuzima nkubw'abandi.

Abakangurambaga ku bijyanye n'ubuzima, basuye ingo, uru rugo bigaragara ko bari kuganiriza abanyamuryango b'uru rugo babaganiriza ku ngamba z'ubuzima n'uburyo ki abana bakwiye kwitabwaho, bigaragara ko aba bashinzwe gukangurira no gushyira mu bikorwa ingamba z'ubuzima, bari kubaganiriza bishimye.

Arababaye, afite agahinda, afite ikibazo, yashavuye, ari kwihanagura amarira, akwiye kwitabwaho agahabwa agaciro, akumvwa, akagirwa inama kugira ngo abashe kuba yakongera kugaruka mu murongo wo gutekereza neza.

Indwara zo mu mutwe ni indwara ifata abantu itarobanuye buri wese yayirwara. Uyu arwaye indwara yo mu mutwe asa nabi afite ibintu yiziritse ku maboko nta suku afite ntiyitaweho hakwiye kwitabwaho agahabwa agaciro.

Ikirango cya polisi cyanditse mu magambo ari mu ibara ry'umweru, mu bururu, bizwi kuri isange wani sitopu senta aho bakirarira abagizweho ingaruka z'ihohoterwa, rishingiye ku gitsina ku bufatanye na turengera umwana n'izindi nzego zibishinzwe.

Umunsi wahuje inzobere n'impuguke mumwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu biga ku ndwara zo mu mutwe kugira ngo harebwe uburyo ki hatangwa serivisi nziza ku barwayi bo mu mutwe bityo bigatuma bavurwa bagakira abatavuwe bagakira hakarebwa uburyo ki bajya bahabwa ubutabazi bw'ibanze.

Bishimiye ibitekerezo n'inama bagiriwe cyangwa bahanahanye muri iyi nama nyunguranabitekerezo ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, no kugira ngo basigasire cyangwa bagire inama banafashe banatange serivisi z'ubuzima ku muturage cyangwa ku mwenegihugu uje abagana mu buryo bwiza burambye.

Umunsi wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe, kwita ku buzima bwo mu mutwe ni ingenzi cyane ikirango cyerekana uburyo ki umunsi wo kwita ku buzima bwo mu mutwe uba mu kwa cumi mu ndimi z'amahanga tugenekereje mu kinyarwanda ni uguha keya abafite indwara zo mu mutwe mu cyongereza wode mento helifi deyi Ogutoba teni.

Serivisi zo kwita ku buzima bwo mu mutwe ni ingenzi cyane, uyu mukecuru bigaragara ko yishimye yitaweho, bitewe n'uko mbere yari afite ikibazo cyo kuba yari afite ikibazo cyo mu mutwe ariko ubu urabona ko afite isuku ihagije, yitaweho ari kuyaga.

Arashaje afite ikibazo cyo mumutwe yambaye ibirenge yambaye imyenda icitse, afite umusatsi wamurabiyeho nta suku afite, afite ibintu bigaragara nk'amashashi nk'imyanda mu ntoki ze ari hafi y'umuhanda.

Inzobere n'impuguke ku bijyanye no kuvura indwara zo mu mutwe bamaze kuganira no guhanahana ibitekerezo no gufatara imyanzuro kuri serivisi zitangwa zihabwa abaturage baje bagana bashaka serivisi zijyanye n'izi ndwara zo mu mutwe abagabo n'abagore barahagarariwe.

Ihuriro ry'inzobere n'abafite mu nshingano kurengera cyangwa kwita ku ndwara cyangwa ku mitekerereze ya muntu, aho hari inzobere zigiye zitandukanye, zahuye kugira ngo zirebe uburyo ki zatera igiti kugira ngo ibiti byifashishwe mu gutanga umwuka mwiza uhumekwa n'abaturage, bikabafasha gutekereza neza.

Abashinzwe kugira uruhare mu ngamba z'ubuzima harimo umukuru wa polisi abaganga abaturage bahagarariye abandi harimo abagabo batatu n'ababyeyi batanu.

Isuku y'amenyo n'ingenzi uyu ari gukoresha urudodo kugira ngo akure imyanda mu menyo yirinda indwara zo mu kanwa n'indwara zo mu menyo bimufashe kugira isuku ihagije bimurinda indwara zo mu kanwa.

Ubuvuzi bw'amenyo ni ingenzi cyane kwirinda indwara zo mu kanwa, aba bari gukoresha ibikoresho biciriritse byabugenewe kugira ngo hakorwe isuku y'amenyo, hanabugwabungwe n'uburyo ki amenyo akwiye gusigasirwa akarindwa umwanda.

Kwita ku isuku yo mu kanwa ni byiza cyane, kuberako bifasha mu kwirinda indwara z'amenyo, kwihanganyura ukaba wakozamo agati cyangwa na kariya kantu uriya mugabo ari gukoza, bigufasha kugira amenyo meza cyane, ukayarinda kurwara indwara zijyiye zitandukanye, ukagira amenyo mazima.

Ihuriro ry'abaganga b'inzobere n'impuguke ku ndwara y'amenyo ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima arabisi aho basuye abaturage bakabakirira hamwe bakeneye kugira ngo babahe amahugurwa ku ndwara y'ameye ku ndwara y'amenyo n'izindi ndwara zo mu kanwa ibagenda babapima babafata ibizami bakareba ubuvuzi bakeneye bakabaha.

Ubuvuzi bw'amenyo twite ku isuku yo mu kanwa kugira ngo tubashe kugira amenyo meza uyu ari gukoresha urudodo kugirango ngo abashe gukuramo imyanda mu menyo kuko urudogo narwo rufasha mu kwihariganyura uko umuntu yavana imyanda iri mu menyo.

Kwita ku menyo ni ingenzi cyane. Abaganga bari kwita ku menyo y'umujene bambaye udupfukantoki bari gukoresha ibyuma byabugenewe kugirango ba babashe kumuha serivisi zijyanye n'ubuzima bagira ubuzima bwiza hirindwa n'indwara zo mu kanwa.

Abaganga basuye abarwayi ku munsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku ndwara zo mu kanwa, aho Minisiteri y'Ubuzima iba yohereje inzobere nk'uko bigaragara abarwayi bari gupimwa ibiro, bakavurwa, bagasuzumwa indwara zo mu kanwa hari n'abaganga b'inzobere, mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu.

Ubuvuzi bw'amenyo, aho bakuye umurwayi iryinyo ryari rirwaye bifashishije ibyuma byabugenewe mu kurikura. Twibutsa ko indwara z'amenyo ziterwa no kugira umwanda mu kanwa, iy’umuntu adafite umwanda mu kanwa bimurinda kwandura indwara zo mu kanwa harimo n'amenyo.

Rimwe na rimwe amenyo agomba gusigasirwa akabungabungwa atitawe ku byo umuntu akoresha amenyo ni ingenzi kuyitaho amenyo ntabwo akwiye gushyirwamo ibyo abonye kubera ko mu kanwa hangirika vuba uyu mubyeyi bigaragara ko ari gutoza umwana we kuba yakangiza amenyo akoresheje urudodo.

Kubungabunga amenyo k'umwana ni byiza kuko bimufasha gukura afite amenyo meza, aba bana bafite uburoso bw'amenyo bityo bikabafasha mu kwirinda indwara zo mu kanwa, igihe barangije kurya, igihe bagiye ku ishuri umuntu, umunyarwanda wese muri rusange ufite amenyo meza iyo asetse neza agaragara neza iyo afite amenyo mazima kuko bimufasha kwirinda indwara z'amenyo.

Kwita ku menyo ni byiza cyane uyu mujene ari gukoresha urudodo mu kwihaganyura kugira ngo avane imyanda mu kanwa; avane imyanda mu menyo agira amenyo meza yirinde indwara zo mu kanwa n'indwara z'amenyo yambaye aga tisheti k'umweru ari gukoresha amaboko ye yombi yishimiye kuko ari kugira uruhare mu kugira isuku yo mu kanwa akoresheje akadodo.

Kwita ku isuku y'amenyo ni ingenzi cyane ukoresheje amazi na korogati n'uburoso bufite isuku ihagije, kugira ngo umuntu agire amenyo meza bimufasha kwirinda indwara zo mu kanwa, bikamuha kugira amenyo y'urwererane, amenyo y'umweru yera cyane.

Kugira isuku yo mu kanwa ni isoko yo kwirinda indwara zo mu kanwa ikagufasha kugira amenyo meza y'urwererane, kandi ukongera ukirinda n'indwara zo mu kanwa zandura nk'ifumbi n'izindi.

Umuganga mwiza w'amenyo, inzobere nziza isoko yo kugira amenyo meza, amenyo mazima hirindwa indwara zo mu kanwa, uyu muganga ari gukura uyu mwana amenyo bitwibutsa ko amenyo kwirinda indwara z'amenyo ari ingenzi cyane binyuze mu kugira isuku yo mu kanwa.

Ubuvuzi bw'amenyo ni ingenzi cyane, uyu muganga ari gufasha uyu mwana kumuha serivisi zijyanye n'ubuzima ku burwayi bw'amenyo afite, twibutsa ko uburwayi bw'amenyo buterwa no kugira isuku nke mu kanwa, ubundi bugaterwa no gusangira ibikoresho, nk'imiheha, ibiyiko n'amafurusheti, uburoso bw'amenyo n'ibindi.

Ubuvuzi bw'amenyo ni serivisi zitangirwa kwa muganga. Zihabwa abazikeneye, zihabwa abarwayi, iryinyo ritameze neza bakarikoramo, uyu muganga yambaye agapfukantoki akoresha ibikoresho byizewe neza, yambaye agapfukamunwa n'umwenda wabugenewe, ari gukura iryinyo ritameze neza.

Indwara y'amenyo ni indwara zivurwa zikavurwa n'abaganga n'inzobere, bari kugerageza kubavura no kubitaho, babahaye korogati, babaha imiti yabugenewe yo kugira ngo babashe kwirinda bambaye impuzankano, bambaye udupfukamunwa n'udupfukantoki bari kugerageza kureba ikibazo kiri mu kanwa aba barwayi bambaye impuzankano yanditseho ngo tubiteho.

Abakuze nabo bakwiye kwitabwaho bagahabwa keya, uyu musaza yishimiye kuba uyu mujene arimo kumuganiriza bityo bimufasha mu gusazana ibyishimo bikamurinda guheranwa n'ibibazo, agasaza yishimye akagira amasaziro meza cyane.

Abakuze nabo bakwiye kwitabwaho bagahabwa agaciro, uyu ari kwipima buryo ki umutima utera, uburyo ki amaraso atembera, umuvuduko w'amaraso uburyo ki ugenda kugira ngo abashe kureba aho igipimo cye cy'amaraso kigeze, n'uburyo ki akwiye kujya kwa muganga bibaye ngombwa hashingiwe ku bipimo ari bubone bivuye muri iki gipimo ari gukoresha.

Abakuze bakwiye kwitabwaho bagahabwa care, aba bakecuru bafite inkoni rwose bishimiye kuba leta y'ubumwe yarabagobotse ikabafasha ikabaha ijambo ikabashyigikira nabo bakaba bari ku mucyo, barakeye bafite isuku bateze umwe yasokoje uruhanika bose biteze imikenyero n'imyitero bamezeze neza.

Abakuze nabo bajya bagira uruhare mu kugira ngo bite ku myigire y'abana nk'uko uyu mubyeyi ari gufasha umwana mu gukangura ubwenge bwe mu kumushyigikira mu gutekereza byimbitse no gutekereza cyane baganira bahanahana ibitekerezo umubyeyi akumva umwana ibyo atekereza akanamufasha kugira ngo abashe gukura imbamutima ze zimeze neza.

Abakuze nabo bahawe ijambo, uyu mukecuru afite mikorofone indangururamajwi, yambaye neza ni umutegarugori yambaye urunigi rwiza yahawe ijambo, ari imbere ariko kugeza ku bamuteze amatwi ijambo ry'uko nawe yitaweho na leta y'ubumwe.

Abakuze na bo bitaweho, bahabwa keya, bitabwaho n'abaganga. Uyu musaza ari gusobanurirwa uburyo iki, ingamba zimureba, zimufitiye inyungu na we zimurengera, afashijwe n'uyu mudamu, kugenda amusobanurira uburyo ki, ingamba zikora n'uburyo ki, bagomba kwitabwaho.

Abakuze nabo bajya banezerwa bagahabwa keya bakagira ibyishimo, uyu mubyeyi yari yishimye yishimiye kuba yahawe impano ku kuba anezerewe bigaragarira ku maso akari ku umutima kajya gasesekara ku munwa n'abakuze nabo bajya bacishamo bakishima igihe bahawe serivise nziza.

Abakuze bakwiye kwitabwaho bagahabwa serivisi z'ubuzima nk'uko aba bajyanama b'ubuzima bari kubikora hano bita ku basheshakanguhe abasaza n'abakecuru, bari guhabwa serivisi z'ubuzima, bari guhabwa ibinini muri kariya ka bogisi ku mweru.

Abakuze na bo ntabwo bibagiranye, bakwiye kwitabwaho bakagira amasaziro meza bagasaza bafite ubuzima bwiza bakimeze nk'abajene, bagasazana ibyishimo, bagasaza bishimye, bakagira amasaziro meza. Uyu mujene ari kuganiriza uyu mukecuru, amutega amatwi amwumva anamuha keya nyinshi cyane.

Abakuze na bo bakwiye kwitabwaho bagahabwa agaciro, uyu mukecuru ugeze mu zabukuru ari kwitabwaho n'uyifite mu nshingano kwita ku bakuze, ari kumufasha kugorora amaboko, afite akantu kari kuba kamufasha na we akishima nk'abajene kugira ngo agire ubuzima bwiza, agire amasaziro meza.

Abakuze nabo bitaweho cyane uyu mubyeyi ari kugerageza kwereka abakuze ariko nabo bakwiye gukoresha ikoranabuhanga rya telefoni baganirizwa bitabwaho bahabwa serivisi zijyanye n'ubuzima, bagahabwa keya, bagahabwa serivisi nziza kugira ngo basanze bafite amasezero meza bishimye, bishimiye kure kuba bahabwa serivisi nziza nk'abajene bato.

Abakuze nabo bakwiye guhabwa care bakitabwaho agahabwa serivisi nziza kugira ngo bagire amasaziro meza basaze neza ababyeyi barishimye cyane ku ubwuko.

Abakozi nabo ntabwo bibagiranye abakozi bafashwa mu gukora siporo uyu mujenekazi ari gufasha uriya musaza kugendagenda akora siporo hariya kugira ngo abashe kugira amasaziro meza abashe guhumeka neza bimufashe kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Abakuze nabo bahawe ijambo bitaweho, abasaza n'abakecuru n'udukoni twabo bicaye mu ntebe nziza zimeze neza, barimo baraganirizwa bahabwa inama z'uburyo kibakwiye guhabwa agaciro bagahabwa uburenganzira nk'ubw'abato kugira ngo bagire amasaziro meza meza cyane.

Abakuze na bo batekerejweho kugira ngo umuntu agire amasaziro meza, hari amavuta yabugenewe agomba kwisiga bityo akagira uruhu rumeze neza nku rw'uyu mubyeyi agasaza afite akanyamuneza yishimiye ku kuba yitaweho cyane.

Abakuze nabo kwiye guhabwa keya bagahabwa agaciro uyu mudamu ari gusuka ji mu kirahure kugirango ahereze uyu musaza amwiteho amuhe n'imbuto pome, urabona ko ari kwitabwaho ari guhabwa keya zihagije kugirango ngo agire ubuzima bwiza cyane.

Abakuze nabo bakwiye guhabwa agaciro bakitabwaho, uyu musaza arimo araganiriza uyu muzungu, barimo baganira ku buryo ki nabo bakwiye guhabwa agaciro bagahabwa keya, kugira ngo bazagire amasaziro meza, basaze neza bagifite ibyishimo byuzuye.

Abakuze nabo bakwiye guhabwa ijambo nk'abajene bakaganira n'abajene; urabona ko aba bagabo n'abakecuru, abasaza rwose bishimiye kuba bari kuganira n'abana bigatuma bagira ibyishimo bagasaza neza bakagira amasaziro meza bagasaza bagifite ibyishimo.

Abakuze nabo bakwiye kwitabwaho bagahabwa keya bagahabwa serivisi zijyanye n'ubuzima ku buryo bungana n'ubw'abajene, uyu mukecuru ari guhabwa ubuvuzi, ari guhabwa serivisi z'ubuvuzi n'uyu muganga wambaye agapfukamunwa n'inpuzankano, ifite ibikoresho yambaye n'udupfukantoki kugira ngo agire amasaziro meza.

Abakuze nabo bakwiye kwitabwaho bagabwa agaciro, abyeyi barishimye bishimiye kuba nabo barahawe ijambo, barishimye cyane bari ku ikoranabuhanga, bafite amatelefone ari abakecuru ari abasaza bityo bikabafasha gusa kugira amasaziro meza bakitabwaho bagahabwa keya nk'abajene bakiri bato.

Abakuze na bo bitaweho bahabwa serivisi z'ubuzima bagahabwa ubujyanama bw'uburyo bakwiye kwitwara. Uyu muganga ari kuganiriza uyu mukecuru bigaragara ko bishimye bishimiye ibiganiro bari kugirana, ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo abakuze bagire amasaziro meza murakoze.

Abakuze nabo bitaweho mu guhabwa care na serivisi zijyanye n'ubuzima kugira bagire amasaziro meza, uyu musaza yishimiye guhabwa kuba ari guhabwa inama ari gukina igisa n'ikibuguzo n'igisoro yishimiye, yishimanye n'uwo bari gukinana afite akanyamuneza mu maso ari guseka yambaye itshirt y'ubururu n'umweru.

Uyu muganga ari gutanga ubufasha ku bakuze agerageza kuberekwa ko nabo siporo ari ingenzi uyu mugabo ugaragara ko ashaje afite imvi yishimiye kuba ari gukora siporo ngororamubiri aho afite akantu mu kiganza cy'iburyo gafite ibara ry'ubururu muganga yambaye umwenda wabugenewe wakazi.

Umugore ukuze cyane wambaye amaherena, ufite ikirahure mu kuboko kw'iburyo, ufite ibinini mu kuboko kw'ibumoso, ikirahure kirimo amazi agiye kunywa ibinini, hafi ye hari robine avuye kuvomamo ariya mazi, inyuma hari akabati bigaragara ko karimo utuboxi cyangwa uducupa turimo imiti, inyuma ye hari agafuka bigaragara ko karimo imiti.

Abakuze na bo bakwiye guhabwa agaciro bagakora siporo, aba bakecuru bari gukora siporo zo kugorora amaboko no kugorora umubiri, barishimye barabyishimiye, iyo umuntu akoze siporo agira amasaziro meza agasaza neza.

Kwita ku bakuze ni ingenzi cyane nabo bagahabwa agaciro uyu mujene ari gufasha uyu mupapa ukuze kuba yasoma inkuru nawe akagira ibyishimo hafi hari ibikombe bibiri bigaragara ko bishobora kuba birimo amazi igihe barushye mu rwego rwo kwirinda siterese barasoma ku mazi bagakomeza bagasoma banaganira.

Abakuze nabo bitaweho, uyu musaza ari kugerageza gufashwa n'uyu mujene w'umuganga, akamufasha kureba ku gipimo cye cy'ubuzima uko gihagaze, n'uyu musaza arabyishimiye. Nabo bakwiye guhabwa care bakagira ibyishimo, bakagira amasaziro meza.

Abakuze na bo bakwiye kwitabwaho, bakaganirizwa, bakagira ibyishimo, bikabafasha gusazana ibyishimo, bagasaza neza, umujene ari kuganiriza uyu mukecuru, arimo akata imbuto

Abakuze nabo bakwiye kwitabwaho bagahabwa agaciro, bagahabwa ijambo. Aba bakecuru nabo ikoranabuhanga ryabagezeho bari kwirya aga selfi, bashingiye ku kamaro k'ikoranabuhanga nabo bakwiye kwitabwaho bagahabwa agaciro, bagahabwa care, bakagira amasaziro meza, bagasaza bafite ubuzima buzira umuze bishimye.

Abakuze nabo bakwiye guhabwa agaciro bagahabwa keya uyu musaza ari kugerageza gukina n'umujene bakinisha kariya kagozi bagerageza gukina basabana, urabona ko abasaza nabo bagira amasaziro meza bitewe n'uburyo ki bahawe kya bitaweho umuntu akagira amasaziro meza bitewe n'umunezero akiri ageze mu zabukuru.

Abakuze nabo bakwiye kwitabwaho bagahabwa ijambo, bambaye imyenda yabugenewe, bambaye impuzankano, bambaye neza, bayobowe n'umukecuru mwiza cyane, wambaye agapfukamunwa, bari mu ihuriro ry'abakuze.

Inshuti zahuye ziri kuganira zishimye zihanahana ibitekerezo n'amakuru ku bintu bigiye bitandukanye, zirimo ziraganira imwe iha indi ijambo bakageraho bagacishamo bakagaragaza amarangamutima bagaseka bakaganira ku nama n'ibitekerezo bigiye bitandukanye nk'uko aba babyeyi uko ari batatu babigaragaza umwe ari gutega amatwi mugenzi we akishimira ko amuha ibitekerezo.

Abakuze nabo bitabwaho bagahabwa agaciro, bagahabwa keya, leta y'u Rwanda ikabitaho bagahabwa ibikenewe kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Bateranyirijwe hamwe n'iri huriro ry'inama kugira ngo baganirizwe bahabwe umwanya, bahabwa ijambo kugira ngo bazagire amasaziro meza.

Abakuze nabo bakwiye kwitabwaho, bagahabwa ijambo bagahabwa keya, bakitabwaho, uyu mukecuru bigaragara ko nta hantu hazima afite ho kuba, ari gutekera mu kintu kimeze nk'igihuru, nk'ikigunda ntawe afite umukeyaringa umuha keya umuha utuzi.

Abakuze na bo bitabweho, uyu musaza ari gufashwa kugenda hano muri jimu kugira ngo abashe na we kugira ubuzima bwiza, yitabweho ahabwe keya agire ubuzima bunoze, agire ibyishimo nk'iby'abato.

Kwita ku bakuze ni inshingano za buri wese, uyu mujene ari kwita kuri uyu musaza amupima ibipimo ngo arebe uburyoki amaraso ye atembera yifashishije kiriya gipimo gifite ibara ry'umukara, ari gukoresha kuri kariya kaboko k'iburyo aho ari kumufasha akita ku buzima bwe, kwita ku bakuze ni ingenzi cyane kuko bituma basaza neza bishimye bafite ubuzima buzima.

Abakozi nabo ni ab'agaciro, uyu mukobwa arimo araha ubufasha bw'ubuzima uyu mupapa, yishimye baganira amubwira ko azakira neza, kubera ko nabo bakeneye keya kugira ngo bagire amasaziro meza, urabona ko uyu musaza yishimiye kukuba bari kumuha ubufasha kujyanye n'ubuzima anezerewe.

Abakuze bishimiye gukora siporo, umugabo n'umugore bari muri siporo barabyishimiye, umugore yambaye aga ti sheti k'umweru, umugabo yambaye aga ti sheti kajya gusa n'umukara wererutse, bose bambaye isaha bari gukora mucaka kizwi nko kwiruka.

Abakuze nabo bakwiye guhabwa keya bagahabwa agaciro uyu musaza afite suri imbere ye afite machine kuri ariye meza afite agatabo arimo arasoma, hafi ye hari ikirahure cy'amazi iyo ananiwe asoma ku mazi agakomeza agasoma akiyungura ubwenge agatyaza akareba ko yakoresha ubunararibonye afite.

Ingamba zikomatanyije nyinshi cyane zijyanye no guhashya igwingira zizwi nko mu mvugo yi'bumbatiye yumvikanisha neza izi ngamba ngo hehe n'igwingira mu ndimi z'amahanga munitisegito pulani tureduyise satingi acive hemisiti wani tageti.

Ingamba zijyanye no guteza imbere no gushyiraho ingamba zo kugira ngo ubuzima bwiza buboneke, umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara za diyabete habaho ubukangurambaga bw'uburyo ki indwara ya diyabete yandura, hirindwa ibitera iyo ndwara ya diyabete ku bufatanye bw'ibihugu n'isi yose muri rusange.

Itegurwa ry'indyo yuzuye, ingamba mu kwigisha no gukangurira abaturarwanda bose mu gutegura indyo yuzuye ni ingenzi. Aho indyo yuzuye igizwe n'ibikomoka ku matungo nk'amagi, ibikomoka ku bihingwa, nka karoti, ibitunguru ibihaza n'ibindi intoryi.

Ikirango kiranga minisiteri y'ubuzima mu ngamba zo guhashya no kurwanya indwara zigiye zitandukanye aho minisiteri y'ubuzima ifatire hamwe ingamba zigiye zitandukanye zo kwita ku buzima bw'umuturage kugira ngo agire ubuzima bwiza mu ndimi z'amahanga minister of health.

Ubukangurambaga ku bijyanye no kwisuzumisha nk'uko bigaragara ko ababyeyi n'abana bakwiye gukangurirwa kwisuzumisha mu gihe mu rwego rwo kwirinda ko hari indwara zikomoka ku kuba umuntu atikingije neza cyangwa atipimishije. Izi ngamba zikaba zigaragara ko buri wese akwiye kuzigira ize.

Ihuriro ry'urugaga rw'abahagarariye abandi mu gufata ibyemezo ku ngamba z'ubuzima bitabiriye inama kugira ngo baganirizwe ku ngamba z'ubuzima bari muri salle bicaye ku ntebe za plastiki z'umweru bambaye impuzankano y'imipira y'umweru bari kuganirizwa n'uriya wambaye ipantaro y'umweru n'agatshirt k'umutuku n'ikote ry'umukara.

Ingamba zijyanye n'ubuzima aho inzobere n'impuguke ziri kuganiriza abantu abaturage bagiye batandukanye bitabiriye, ku munsi wo kuganira ku ngamba z'ubuzima bambaye udupfukamunwa bari kugenda babaha imfashanyo zigiye zitandukanye ziri muri turiya tubokisi tw'ubururu

Inama ihuje abantu batari bake, barenga ijana, nk'uko bigaragara neza ko bahurijwe hamwe no kuganira ku kibazo, no gufatira hamwe ku ngamba z'ubuzima, no kureba uburyo ki, hakorwa ubuvugizi, cyangwa hakarebwa umuti ku ndwara zigiye zitandukanye zugarije abatuye isi.

Ihuriro rya bibiri na makumyabiri naka kabiri ryo kugira ngo hafatirwe hamwe ingamba zijyanye n'ubuzima, nk'uko ibirango bibigaragaza inama yabaye yahuje inzobere mu bijyanye no gufata ingamba kugira ngo bahanahane ibitekerezo ku ngamba zafatwa kugira ngo umuturage agire ubuzima bwiza.

Ihuriro ry'abafite mu nshingano gufata ibyemezo ku ngamba z'ubuzima. aho hari inzobere n'impuguke n'abagira uruhare mu gufata ibyemezo bahuye mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane bakiga bari gukora ubushakashatsi n'uburyo ki ingamba zashyirwa mu bikorwa n'abaturage ku bufatanye na RBC.

Ikirango cyerekana mu ndimi z'amahanga casakeya in Rwanda saving lives and lipdifing wats watsipssible kwita ku buzima bw'abaturage bakabarinda kurwara kanseri babafasha uburyo bwose bushoboka uyu ni umunsi wabayeho ku itariki enye z'ukwa kabiri binbiri na makumyabiri na kabiri.

Ingamba zigiye zitandukanye zifashishwa mu kwirinda umubyibuho ukabije kanseri, kanseri y'ibere , kanseri y'impyiko , kanseri yo mu gifu n'izindi kanseri zigiye zitandukanye kuko kanseri yataka cyangwa igira ingaruka ku mubiri mu buryo bugiye butandukanye bitewe n'ubwoko bwa kanseri. Mu rwego rwo kuyirinda rero wa bakagombye kurya ibiryo bimwe.

Icyapa kigaragaza uburyo ki abantu bakwiye kwisumisha igituntu, gifashwe n'umugabo n'umugore bigaragara ko bari gukangurira Abanyarwanda twese muri rusange kwisuzumisha igituntu kubera ko ari indwara ivurwa igakira nk'uko tubibona.

Ingamba za bibiri na cumi na gatanu zafashwe n'abafite mu nshingano mu gufata ingamba ku bijyanye n'ubuzima. Hafashwe ingamba zigamije kugira ngo abaturarwanda bose bagire ubuzima bwiza hirindwa SIDA, abayifite badahabwa akato, abana n'ababyeyi bahabwa ubutabazi bw'ibanze n'ubufasha kugira ngo hirindwe gukwirakwiza no kwanduza SIDA mu gihe cyo kubyara.

Ihuriro ry'abahagarariye abandi gushyira mu ngamba mu gukora ingamba no kuzishyira mu bikorwa no gufata ibyemezo kuri izo ngamba ziba zafashwe bari kuganirira mu cyumba cy'inama barangajwe imbere n'abayobozi babahagarariye baje kubaganiriza bose baricaye bateze amatwi barikumva neza igikwiye gukorwa kugira ngo umuturage ashyirwe imbere.

Serivisi nziza z'ubuvuzi umurwayi ahita akira vuba uyu murwayi ari kwitabwaho ahabwa serivisi nziza apimwa amaraso yitabwaho n'abaganga.

Abagira uruhare cyangwa abayobozi bafite mu nshingano gufata ibyemezo ku bijyanye n'ingamba z'ubuzima, bahuriye hamwe bahujwe na minisiteri y'ubuzima, abagabo batatu n'abagore bane, bari imbere y'ikirango kerekana minisiteri y'ubuzima.

Gutera imbere ntawe usigaye inyuma ni ingamba zaganiriweho n'inzobere ku bijyanye n'ubuzima, aho bafatiye hamwe ingamba z'uburyo ki ntawukwiye kugenda asize mugenzi we inyuma. Aho abavugizi baganiriye ku ngamba zo kugira ngo buri munyarwanda wese ashyirwe imbere.

Aba ni abafasha batanga serivisi zijyanye n'ubuzima, bambaye imyenda yabugenewe, bazwi nk'abakora muri moruge, aho baterura imibiri yashizemo umwuka, bambaye imyenda yabugenewe, bambaye udupfukamunwa n'udupfukantoki n'udupfukamaso, inyuma yabo hari umuganga wambaye agapfukamunwa

Abagabo babiri bafite akantu kagaragara kameze nk'agatabo gafite impapuro z'umweru bambaye neza, bambaye amakositimu bigaragara ko hari ibyo bari kugaragaza nk'ingamba zijyanye n'ubuzima ,umwe yambaye amarinete.

Ibirango byerekana uburyo cyi ibihugu by'afurika y'iburasirazuba biteranira hamwe bikusanyije inzobere n'impuguke ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo bafatire hamwe ingamba ku bijyanye n'ubuzima by'uko bagomba gusigasira ubuzima bw'abenegihugu batuye muri ibi bihugu byo muri afurika y'iburasirazuba.

Gushyira mu bikorwa kwirinda indwara zigiye zitandukanye no gusigasira amagara ya buri muturage ya buri munyarwanda abambaye udupfukamunwa n'udupfukantoki n'imyenda yabugenewe mu kwita ku barwayi bitewe n'uburwayi bagiye barwaye, aho bita ku murwayi nabo bagize uruhare mu kwirinda indwara zigiye zitandukanye zandura.

Kwirinda indwara zandura ni ingenzi, aho hakirindwa gukoresha ibikoresho bikomeretsa, nk'inshinge, imakasi, inzembe nk'uko iki kirango kivuga, nta ndwara ikwiye kwandura binyuze mu bushake bw'umuntu, bitabaye nk'impanuka.

Ikirango cya gahunda y'imyaka icumi yo kuboneza urubyaro famili pulaningi maketi ripoti cyerekana imyaka icumi yo kugira ngo abantu bakoreshe uburyo bugiye butandukanye mu kugira ngo babyare abo bashoboye kurera nk'ingamba zijyanye n'ubuzima zo kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza babyara abo bashoboye kurera.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima RBC, gishinzwe kwita ku buzima bw'abanyarwanda n'abatuye u Rwanda, ni ingenzi cyane kubera ko gitanga ubufasha, gifatira hamwe ingamba z'ubuzima, gifatanyije na Minisiteri y'ubuzima ibifite mu nshingano kugira ngo bite ku banyarwanda bose muri rusange.

Kwita ku buzima bw'abaturage ni ingenzi cyane uyu mubyeyi ari guhabwa serivisi zo kumukingira yambaye agapfukamunwa n'umuganga yambaye agapfukamunwa arimo aramutera urushinge hari undi muganga mugenzi we uri kumurebera neza ko ameze neza.

Ingamba zijyanye n'ubuzima aho ababyeyi bonsa bitaweho bafite abana beza cyane, bitaweho bishimiye ku kuba bahabwa serivisi z'ubuzima. Umujyanama w'ubuzima yegera umubyeyi mu gihe akimenya ko yasamye, agahabwa serivisi z'ubuzima kugeza umwana agize imyaka ibiri, mu minsi igihumbi ya mbere agahabwa n'imfashabere bizwi ku izina rya shisha kibondo.

Ikirango cyerekana ingamba z'ubuzima muri afurika izwi mu ndimi z'amahanga nka powering healthcare in Rwanda market assessment and road map for health care facilities aho batanga serivisi z'ubuzima hagafatwa ingamba ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo umuturage ahabwe serivisi z'ubuzima.

Ikirango gifite umutwe ugira uti Rwanda profesiona kanso nirindi jambo rikurikiyeho ryafatwa nk'indi nsanganyamatsiko ivuye muri iriya hejuru benefitsi patishienshi umwana yarishimye ku bw'ubufasha ahabwa n'abaganga ensuwazi hayi standadi ofu etiko paragitisi.

Inyubako itanga serivisi z'ubuzima ifite ibitanda byiza cyane, ifite abarwayi barwaye, baryama ahantu heza ku buryo umurwayi aryama neza akaba yakira vuba, bafite za supanete bizwi nk'inzitiramibu, abaganga babafasha ku buryo bwiza bigatuma bahabwa serivisi z'ubuzima bagakira vuba.

Inzu yagenewe gutanga serivisi z'ubuzima ku barwayi barwaye hari ibitanda bishakishije amashuka y'umweru n'ibikoresho byifashishwa mu kugira ngo umurwayi yitabweho hari screen, hari scanner ,hari MRI n'ibindi byifashishwa, Iyi nzu ifite isuku ihagije cyane.

Icyumba gikorerwamo inama y'urugaga rw'abaganga, abakozi bashinzwe gutanga ubuzima, abakozi b'isuku bagahabwa amabwiriza agenga ubuzima, abaganga b'inzobere baje gusura ibitaro bakaba bateranira muri iki cyumba bakigisha abandi baganga bagenzi babo uburyo ki serivisi z'ubuzima zigomba gutangwa neza mu buryo bunoze.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima, aho abarwayi baryama bagasuzumwa hari ibikoresho by'ikoranabuhanga hafi y'ibitanda by'abarwayi, hari na sikaneri hakabaho ahari na sikirini yifashishwa mu kureba neza ikibazo cy'ubuzima umurwayi afite, ibitanda bishashe neza, hari dekorasiyo nziza cyane ku buryo ki umurwayi ahabwa serivisi nziza agakira.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuzima ku bantu bafite indwara ku gice cy'umutwe ifite igikoresho cya emaralayi aho umurwayi aza akaryama hariya agashyira umutware kuri kiriya gice cy'umukara kuri kariya kantu iyo bashyizeho ishuka bakaba bamupima ngo barebe ko nta kibazo afite iki cyumba kimeze neza giteguye neza.

Inyubako yifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuzima, umujyanama w'ubuzima afite ibikoresho barimo baraganira ku kuba ku cyakorwa kugira ngo serivisi z'ubuzima zitangwa zibe nziza, basuye umuturage aba baganga kugira ngo bamuganirize kuri serivisi zitangwa kwa muganga.

Ibitaro bikuru bya Shyira, inyubako imeze neza ifite imiryango itandukanye, aho itanga serivisi z'ubuzima ku baje bahagana, zigiye zitandukanye bitewe n'ikibazo cyangwa n'uburwayi umurwayi afite, bafite inzobere zigiye zitandukanye, bafite igisenge kimeze neza.

Ikigo nderabuzima cya kanyinya kizwiho gutanga serivisi nziza z'ubuzima ku baje babagana, yaba abagabo, abagore, abasore n'abakobwa, abana batoya, abakuze, abashyeshye akanguhe kibaha serivisi z'ubuzima bitewe n'uburwayi umurwayi arwaye ntawe gisubiza inyuma, gitanga serivisi kidaheje y'aba abafite ubumuga n'abatabufite.

Inyubako itanga serivisi z'ubuzima izwi ku izina rya geyatitike senta aho bakirira abarwayi baje babagana iri vuriro bafite amarembo meza cyane bakiriramo abarwayi baje babagana.

Serivisi z,ubuzima mu nyubako ku irembo aho ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc uyu mugabo ari guhabwa serivisi z'ubuzima n'inzobere yaturutse muri rbc hari gupimwa akaboko ngo arebe uburyo ki ubuzima bwe bumeze.

Inzu y'ibitaro cyangwa ivuriro ryakirirwamo abarwayi aho ifite jaride nziza cyane, inyubako isobanutse ifite imihanda myiza nyabagendwa, ifite ibyerekezo bigiye bitandukanye ifite natire nziza cyane aho bifasha abahagana kuhishimira no guhabwa ubuvuzi bufite ireme.

Inzu ifite ubusitani bwiza cyane hari ibimera bitanga akayaga keza, ifite izina rya afurika senta of egiselense foru infegisiasi dizizisi ofu yumanizi endi animozi. Tugenekereje mu Kinyarwanda, inzu yifashishwa mu gutanga serivisi ku ndwara zandura zaba iz'abantu cyangwa iz'inyamaswa

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho bigaragara ko ari sare itangirwamo serivisi z'ubuzima, aho inzobere n' impuguke zibura zikaganiriza abagangatanga serivisi z'ubuzima, ibyicaro byiza cyane hari intebe, hari ameza yo kuganira abicayeho, sare yo kuganiraho bakaganira ku buryo kibi batanga serivisi nziza zinogeye umuturage.

Inzu igaragara ko ari inzu nyafurika, yerekana iterambere ry'ibice bimwe na bimwe byo muri Afurika, ifite ubusitani bwiza cyane ikaba ifite na parikingi nziza cyane, ifite amarembo meza agaragara neza cyane.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima, isa neza ifite isuku, ifite abakozi b'inzobere n'impuguke batanga serivisi z'ubuzima, bahuguwe neza, bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuzima mu buryo bwihuse.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuzima, aho umurwayi akaryama kuri aka kantu kameze nk'urubaho karambuye, umutwe akawushyiramo hariya, iki gikoresho kizwi ku izina rya MRI, aho cyifashishwa mu kureba niba nta kibazo umuntu afite mu mutwe cyangwa urutirigongo, ni ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi buteye imbere.

Inzu izwiho gutanga serivisi zijyanye n'ubuzima aho abaganga baza bakakira abarwayi bagiye batandukanye hano abarwayi bategereje guhabwa ubufasha harimo abakangurambaga ku ngamba zo kwirinda indwara zandura bambaye udupfukamunwa buri murwayi yicaye ashyizemo metero bigaragara.

IInyubako nziza cyane irimo abaganga b'inzobere bashinzwe kwita ku barwayi, bambaye imyenda yabugenewe, amataburiya y'umweru, bafite ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuzima, bambaye udupfukantoki tw'ubururu bamwe abandi ntatwo bambaye.

Inzu itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuzima aho hari inzobere n'impuguke mu gutanga serivisi z'ubuzima, abaganga bambaye udupfukantoki n' imyenda yabugenewe kugira ngo batange serivisi z'ubuzima, bafite ibikoresho bigiye bitandukanye bafite mikorosikope bafite ibikoresho bigiye bitandukanye mu tubati bafite isuku, ibyifashishwa mu gupfuka n'ibindi.

Farumasi nziza cyane izwi ku izina rya porogeresi farumasi, ifite imiryango igera kuri itatu, ifite ikaba ifite ibikoresho bigiye bitandukanye, byafasha abakora abakozi bahakora gutanga serivisi z'ubuvuzi nziza cyane, bafite imiti igiye itandukanye bitewe n'uburwayi uje ahagana yakenera ufite na parikingi nziza cyane.

Ikigo Nderabugizima cya ki cya Kigina, gifite ibita eee ivuriro ryiza rifite amarembo meza, aho batanga serivisi z'ubuzima zigiye zitandukanye, ari iz'abana, ari izo kuvura abakuze, ari iza materinite z'ababyeyi n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye.

Inzu izwiho kwakira abarwayi benshi aho abarwayi bakunda kuryama hari icyumba cyiza gifite isuku, bafite inzitiramibu bibafashamo kwirinda malariya bigaragara ko hasashe neza, abashinzwe kuhakora isuku bahakora neza hari urumuri ruhagije hafite isuku ihagije.

Ibitaro bya Ruhengeri, ibitaro bikuru bya Ruhengeri mu karere ka Musanze bifite inyubako nziza, jalide nziza abaturage bagenda bajyayo kwaka serivisi z'ubuzima, bafite abaganga b'inzobere bafite isuku ihagije, bafite natire nziza ifite ibiti byiza cyane, harakorutiriye hafite umutekano uhagije.

Ibitaro bigaragara ko bisa neza byakira abarwayi, aho bakirira abarwayi harafunze ntabwo hakora neza, bigaragara ko hafite ikibazo bitewe nuko nta baza bagana serivise z'ubuzima bahari.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuzima, gifite dekorarasiyo zigiye zitandukanye, harimo ibikoresho byabugenewe mu gufasha umurwayi, igitanda ibitanda byo kuryamaho igihe bari ari kumusuzuma, intebe yicarwaho na muganga uri gutanga serivisi z'ubuzima. Iki cyumba gifite amatara meza, gifite urumuri ruhagije kugira ngo rwifashishwe mu kureba uko umurwayi ameze, gifite umugezi gutanga.

Inyubako nziza cyane porogeresi farumasi ifite imiti y'ubwoko bugiye butandukanye ivura indwara zigiye zitandukanye ububiko bw'imiti burinzwe neza bigaragara ko utahaburira umuti wifuza bafite ibyicaro uje abagana afite uburwayi bugiye butandukanye yicaramo akavuga ikibazo afite.

Inzu y'ibitaro aho bakirira ababyeyi bagiye kubyara, hari muganga wambaye itaburiya y'umweru mu marembo yo bakiriramo ababyeyi, inzu nziza cyane ifite isuku ifite n'ingamba ziri ku gikuta zigaragara zo kwitabwaho n'uburyo ki ababyeyi bakirwa, izwi mu ndimi z'amahanga nka materinite.

Inzu y'ibitaro yakira abarwayi, bigaragara ko iteye imbere, aho bafite parikingi nziza, bafite ikirere cyiza, gifite ibimera gakondo bifasha mu kugira ngo bitange umwuka mwiza, aho bakira abaje babagana turabona kuri resebusiyo, aho bakirira abaje bagana serivisi z'ubuzima.

Inzu yakirirwamo abarwayi, itanga serivisi z'ubuzima, itanga serivisi ku buryo bungana, ntawuhezwa inyuma, ntawuhezwa, batanga serivisi yaba abafite ubumuga n'abatabufite, baza bagana iri vuriro bagahabwa serivisi bakakirirwa neza ku buryo bungana.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ku nkuta hagiye hariho ibirango bigiye bitandukanye biri mu nyuguti zigiye zitandukanye. Hari inyuguti zanditse ku nkuta ziri mw’ibara ry'umukara hari niziri mw’ibara ry'umuhondo zandikishije ibara ry'umukara, hariho ahagiye hariho amafoto y'abantu bagiye batandukanye ari abambaye amasengeri, arabambaye amarinette.

Inzu y'ibitaro bya iniverisite nasiyonari di Rwanda ahazwi nko kuri sehashibe, bafite jaride nziza igizwe n'ibyatsi bitanga umwuka mwiza, aho bafite amarembo batanga serivisi zigiye zitandukanye.

Inyubako nziza cyane idekoye neza yubatse neza ifite jaride nziza ifite parikingi nziza n'inyubako nini bigaragara ko ifite ubuso bunini itanga serivisi nziza kandi nyinshi zihuse.

Inyubako itanga serivisi z'ubuzima aho abarwayi bakirirwa neza bagahabwa serivisi nziza, bafite natire nziza, bafite jaride y'indabo nziza, zimeze neza, zuhirwa, zifite isuku, hafite isuku ihagije, bafite umuhanda.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro bitanga serivise z'ubuzima bafite inyubako ifite isuku, ifite parikingi nziza cyane ba bafite mu marembo heza, hafite umutekano, aho nta kibazo ushobora kuhagirira batanga serivise z'ubuzima zizewe neza cyane.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuzima, ifitemo ibitanda basuzumiraho abarwayi, ifite mashine zifashishwa mu kubika ibizamini byafashwe ku murwayi, ifite intebe zifashishwa mu gutegerezamo abarwayi, ifite n'isaha yagenewe kurebera aho igihe umurwayi amaze ari muri iki cyumba.

Inzu yakirirwamo ababyeyi bitegura cyangwa babyaye, izwi nko ku izina rya materinite hari intebe ababyeyi bategerezaho cyangwa abarwaza hafi hari umugabo uri ku ruhande inzu ikoze neza cyane.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuzima ifite ibikoresho by'ikoranabuhanga hari ibikoresho nka MRI sikaneri na sikirini rikoda aho byifashishwa mu kurikodinga no kureba ibibazo by'umurwayi aba afite mbere hari ibyo mu nda ari ibyo mu mutwe hakarebwa nubwo butabazi cyangwa na serivisi yahabwa kugira ngo abashe gukira.

Icyumba cyakirirwamo abarwayi bafite ibibazo byihariye by'ubuzima by'indani mu imbere mu mubiri aho kizwi mu ndimi z'amahanga nka emarayi cyangwa sikaneri aho bashobora kureba ikibazo umuntu afite ku bwonko cyangwa mu nda no mu mpyiko no mu mutima.

Ibi bitaro bikuru bya nyarugenge ibitaro bimeze neza bifite jaride nziza bitanga serivisi z'ubuzima zigiye zitandukanye bifite parikingi ntabwo wayoba ugiyeyo akwereka aho binjirira ziriya fureshi icyo zivuze.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuzima, ikigo nderabuzima cya Kinyinya aho bafite inyubako nziza batanga serivisi ku bana n'abakuze, ingimbi n'abangavu, bafite inyubako nziza cyane bafite jaride nziza ku marembo.

Inyubako y'ivuriro ifite ibikoresho bigiye bitandukanye aho barebera ikibazo umurwayi afite binyuze muri emarayi mu bikoresho bigiye bitandukanye, mikorosikope sikirini bareberaho uburyo umurwayi arwaye bakaha serivisi bitewe n'ukuntu babonye mu ikoranabuhanga uko ameze.

Icyumba cy'abarwayi barwariramo gisashe neza, gisashishije amashuka y'umweru gifite inkingi bigaragara ko harimo umufasha w'abaganga arimo areba ko hameze neza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima inyubako ndende cyane ifite parikingi nini ifite umugabo ushinzwe kwereka abantu aho baparika bitewe n'abakozi nabaganga bagana iri vuriro yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara n'ingofero y'umukara.

Inzu y'ivuriro aho abarwayi barwarira, hari inzitiramibu, hari ibitanda byiza bishashe neza bifite amabara meza, hari n'abakozi babishinzwe bo kumanika inzitiramibu kugira ngo abarwayi bahabwe serivisi nziza z'ubuzima, hari amadirishya azana urumuri rwinshi kandi rwiza rukenewe n'abarwayi.

Inyubako ifite ibyumba abarwayi barwariramo, aho bafite ibitanda bishashe neza bifite amashuka y'umweru, bakaba bafite isuku, bakaba bafite amatara afasha abarwayi kugira ngo babone urumuri ruhagije, bakaba bafite umuriro w'amashanyarazi ubafasha mu gukorana n'ikoranabuhanga rigezweho

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima hari ameza meza cyane afite intebe zicarwamo n'abatanga serivisi z'ubuzima bafite raputopu cyangwa mashine mudasobwa yifashishwa mu gutanga serivisi neza no kwakira abaje bagana iri vuriro.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi hari muganga uri hanze wambaye itaburiya y'umukara umwenda wabugenewe w'akazi handitse amagambo ari m'inyuguti z'ubururu raboratwari bavuriramo basuzumiramo abarwayi ba marariya n'izindi ndwara.

Ikigo nderabuzima cya Matyazo hafi ya Isange Wani Stopu Senta aho batanga serivisi z'ubuzima ku baturage n'abaturarwanda bose baje bahagana batanga serivisi nziza cyane hari abaganga b'inzobere bahuguwe, ikigo nderabuzima gifite isuku ihagije.

Inyubako itanga serivisi zijyanye n'ubu ubuzima, isa neza ifitegelid nziza cyane n'amarembo aho bakwakira neza, bafite vijoni na mishoni na moto, aho bigaragarira amaso batanga ubufasha ku ndwara ya sida, n'uburyo ki yakagombye guhashywa ikirindwa, binyuze mu buryo bugiye butandukanye ku bufatanye n'ibihugu.

Farumasi Iraguha! Iyi farumasi itanga serivisi z'ubuzima .Aho ifite imiryango ibiri, yakira neza abaje bayigana, iri ku muhanda, ifite abaganga n'abakozi b'inzobere babihuguriwe batanga serivisi z'ubuzima nziza cyane. Aho bakorana na mituweli dosante, bagakorana na MISUR, bagakorana n'ubwi.

Inzobere zasuye ibitaro bya butaro aho baganiriye ku ngamba zigaragara zigaragarira amaso ku bufatanye na minisiteri y'ubuzima bakaganira kuburyoki abaturage bakwiye guhabwa serivisi nziza z'ubuzima hashingiwe ku bumenyi abaganga n'inzobere n'impuguke bafite ingamba zanditse mu magambo y'umweru.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuzima aho hari ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, ibtanda abarwayi baryamaho bari gukorerwa ibizamini n'ibisuzuma, hari ibikoresho bigiye bitandukanye harimo nka sikaneri aho babafasha umurwayi kureba uko ubuzima buhagaze hifashishijejwe ibikoresho bigiye bitandukanye.

Inyubako irimo ibikoresho byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuzima aho harimo intebe zo kwicaraho, harimo vadalateri zitanga akayaga keza abarwayi bakenera ni sale nziza cyane bigaragara ko ifite isuku, ifite isuku ihagije ifasha abayigana abarwayi abarwayi n'abaganga n'abafasha b'abaganga mu kuba batanga serivisi z'ubuzima nziza.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Ngoma, aho inyuma y'icyo giti aho umugabo yicaye, aho batanga serivisi z'ubuzima mu murenge wa Ngoma batanga serivisi nziza zigiye zitandukanye zo kwita ku barwayi no kubaha serivisi nziza ziboneye.

Icyumba cy'abarwayi barwariramo aho baruhukira, turabona icyuyuma gifite isuku ihagije harimo ibitanda bifite isuku ihagije, bifite matela nziza, imyenda myiza, aho umurwayi aryama akaruhuka neza bityo bikamufasha kuba yakira neza, hari ibitanda bitatu n'amarido meza yabasha kuguha umwuka wo guhumeka neza cyane.

Icyumba cy'abarwayi, aba barwayi bahabwa serivisi nziza, hari ibida abarwayi barwariramo bitanda bishashe neza ko hari abarwayi baba barwaye bakitabwaho n'abaganga, bakarebwa uko bameze naho uburwayi bwabo bugeze, muganga harimo arita kuri uyu murwayi w'umugore habukwa ahagaze n'uko ameze nabi burwayi bwe bugeze.

Abakuze nabo bitabwaho bakaganizwa ku ngamba z'ubuzima, uyu musaza yasuye inzu y'ivuriro ari kuganirizwa n'uyu mujene amubwira uburyo ki akwiye kwita ku buzima bwe kugira ngo azagire amasaziro meza, afite akantu k'agapimo mu ntoki ari kumupimisha ku kaboko ikintu gifashe akaboko kugira ngo arebe gutembera kwe k'uyu musaza kw'amaraso.

Inzu itangirwamo serivise z'ubuzima, aho abarwayi baryamye ku bitanda bimeze neza bifite isuku ihagije, bishashe neza, bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga, bafite aho kumanika imyenda, bafite amazi hafi yabo ahagije yabafasha mu gihe umurwayi akeneye amazi, ibi byumba bifite isuku ihagije...

Icyumba ivuriro ritangirwamo serivise z'ubuzima aho abaganga b'inzobere bahurira, bagatangira serivise bakerekana uburyo ki imiti ikora hifashishijwe uburyo butandukanye, bagenda basangira ubunararibonye, bari kugenda bigishanya bifashishije ibikoresho byifashishwa mu gutanga serivise z'ubuvuzi.

Umuganga n'umurwayi, umurwayi uryamye ku gitanda gisashe mu mabara y'ubururu, umuganga bigaragara ko ari kumupima ku kaboko kw'ibumoso, umuganga wambaye imyenda yabugenewe, yambaye itaburiya y'umweru n'amarinete yambaye, muganga bigaragara ko yasokoje neza afite isuku, yambaye udupfuka.

Umuganga ari gutanga serivisi z'ubuzima yambaye agapfukamunwa, afite ibikoresho byabugenewe mu gupima umurwayi arimufata ibipimo bijyanye n'umuriro, akamufata ibipimo no gutera kwamaraso, uyu mwana wicaye mu ntebe wambaye ishati y'umweru na muganga yambaye impuzankano ya kiganga.

Ihuriro ry'abaganga b'inzobere n'impuguke ku bijyanye n'ubuzima ku bitaro by'akarere ka Rwamagana bari bahuye barangije kuganira ku ngamba z'uburyoki hatangwa serivisi nziza z'ubuzima barangije bafata ifoto imbere y'ibitaro bya Rwamagana bigaragara y'uko bari bamaze kuganira bakomeje guhabwa ubumenyi n'inzobere z'amahanga.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima, aho bita ku barwayi bafite jaride nziza cyane naho ibinyabiziga binyura, nko ku marembo hari natire nziza ifasha mu kugira ngo hatangwe umwuka mwiza, hari indabo ziteye kuru ruhande rw'umuhanda.

Inyubako y'ibitaro aho abaturage bari guhabwa inama ku ngamba zo kwirinda indwara zigiye zitandukanye hari abayobozi batatu hariri kubaganiriza n'abaturage bateze amatwi bari kubyumva, barimo baraganirizwa ku ngamba zijyanye n'ubuzima, ku ndwara zo mu z'abageze mu zabukuru no kwita ku bageze mu zabukuru no kubarinda ihohoterwa.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi harimo abaganga bagera kuri bane, bambaye udupfukantoki n'dupfukamunwa n'ingofero z'akazi n'imyenda yabugenewe nk'impimpuzankano y'akazi iri mu ibara ry'umweru imbere yabo hari ibikoresho bari kwifashisha bagerageza imiti iri hafi yabo iri mu ducupa tw'umweru.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima izwi nka atorogisiti lasenti laboratwari, aho basuzumira hari inzobere zitanga serivisi z'ubuzima zigiye zitandukanye, bakita ku buzima bw'abaje babagana.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuvuzi, gifite jaride nziza cyane, gifite parikingi, giherereye hano hafi y'Impamba, aho batanga serivisi ku banyeshuri biga ibijyanye n'ubuganga kugira ngo bazavemo inzobere mu z'ubuzima z'ejo hazaza

Inzu y'ubuvuzi itangirwamo serivise z'ubuvuzi, aho uyu muganga ari kureba ko umwana ameze neza, uruhinja rumeze neza. Iyi nzu ifite imiti igi itandukanye, hari utubogisi tw'imiti turi inyuma ya bariya babyeyi, aho yifashishwa ku mwana n'umubyeyi bitewe n'ikibazo bafite.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuzima, uyu mujyanama w'ubuzima ari gupima ibiro by'uyu mwana aho ababyeyi baba bitabiriye gahunda zo gupimisha abana ngo barebe aho ubuzima bwabo bugeze, harebwe niba bakwiyebwa imfashabere na nka Shishakibondo n'izindi mfashabere zifasha ababyeyi kugira ngo bahe abana indyo yuzuye.

Abaganga b'inzobere bari kwita ku murwayi, bari kwita ku barwayi, hari abari kwita ku murwayi warwaye indwara zo mu mutwe, hari uri kwita ku kureba uburyo ki umuganga mugenzi we ari gutanga serivise niba hari inyunganizi yamuha, ni mu cyumba cyihariye cy'abarwayi barwariyemo.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuzima, aho hari igitanda umurwayi aryamaho agasuzumwa hifashishijwe ibikoresho by'ikoranabuhanga. Hari umugezi wifashishwa mu gukora isuku y'ibikoresho cyangwa gukorera isuku umurwayi ku gisebe kugira ngo babashe kumupfuka neza aho biri ngombwa na etageur nziza ifite ibikoresho bigiye bitandukanye.

Inyubako y'ibitaro ifite abakozi beza cyane, bakora isuku, abakira abarwayi, abita ku barwayi abafasha abarwayi gusasa, bambaye udupfukamunwa n'dupfukantoki, bafasha abarwayi kumanura no kuzinga inzitiramibu, abarwayi bahabwa ubufasha bw'ibanze kugira ngo bakire neza bakavurwa bagakira, icyumba kigafashwa gukorwamo isuku.

Inyubako y'ibitaro aho hari abakozi bita ku babyeyi, bambaye impuzankano y'ubururu bafite amakadi abaranga buri mukozi n'ikimuranga, bambaye udupfukamunwa; bishimiye kuba batanga serivisi z'ubuzima; barokora ubuzima bwa benshi.

Raboratwari y'isuzumiro aho basuzumira abarwayi, aho bareba bakareba ibibazo abarwayi bafite, ifite jaride nziza cyane, aho bakira abaje babagana bakabaha serivisi zijyanye n'ubuzima, hakarebwa n'icyakorwa kugira ngo uburwayi bukire.

Inzu y'ivuriro aho abarwayi bakirirwa hazwi nko kuri resebusiyo mu ndimi z'amahanga, hari ababyeyi bategereje bahagaze, abicaye, abapapa bicaye ku ntebe n'icyapa kiranga viziyo cyangwa moto z'ibi bitaro cyangwa z'iri vuriro aho ababyeyi bategereza kwakirwa.

Inyubako yagenewe kubikwamo ibizamini biba byatanzwe n'abarwayi, aho bigaragara ko ari utubokisi tubikwamo amaraso y'umurwayi yatanze. Akaba yabungwabungwa n'amakuru ye akabikwa ntabemenwe na buri wese, akabucungwa n' muganga wabigenewe.

Inyubako y'ibitaro y'ivuriro ifite ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye hari sikirini zifashishwa mu kuvura umurwayi hakoreshejwe ikoranabuhanga umurwayi akaryama ku gitanda gishashe neza giteguwe kugira ngo abashe kuvurwa ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo nk'umuriro kugira ngo wifashishwe mu gutanga serivisi nziza kandi zirambye.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi aho hari ikirango cya ara esesibi, kiriho ingamba zijyanye n'ubuzima zijyanye no gutanga ubuvuzi bufite ireme, hari parikingi irimo imodoka, inzu ifite isura nziza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima, aho hari ibikoresho bigiye bitandukanye (sikaneri), aho umuntu acishwamo ibice by'umubiri bitekerezwa cyangwa biba byasuzumwe ko birwaye, kugira ngo harebwe ahari kanseri cyangwa ahari ikibazo havurwe hakire, hari ibikoresho bigiye bitandukanye(sikaneri), ni icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuzima.

Inyubako itangwagirwamo serivisi z'ubuzima iherereye mu karere ka Huye aho ababyeyi bakirirwa bagahabwa serivisi zijyanye n'ubuzima bakitabwaho kugira ngo babyare neza ni inyubako nziza cyane.

Inyubako nziza igaragara ko yuzuye itwaye akayabo k'amafaranga menshi, ifite jaride nziza, irajya irafasha abanyarwanda kwiteza imbere no kuba bahabwa serivisi z'ubuzima. Hari n'indi nyubako iri inyuma ku ruhande igaragara ko ari etage, irajya ifasha gutanga serivise nziza z'ubuzima.

Ihuriro ryahuje abaganga, n'inzobere, n'impuguke, bari kuganira ku ngamba zafatwa kugira ngo abaturarwanda n'isi yose muri rusange ku bufatanye mpuzamahanga, bahabwe ubuzima buzima, bigaragara ko bari bishimye nyuma yo guhura n'inzobere.

Inzu y'ivuriro aho abarwayi barwarira baryama ibitanda byiza bishashe n'amashuka meza y'imyeru, n'amarido y'imyeru ishinzwe kurinda abarwayi kuba bagira ikibazo inzitiramibu, icyumba cy'abarwayi gifite isuku ihagije n'amatara ahagije yo gutanga urumuri.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, ahatangirwa serivisi z'ubuzima. Hazwiho gutanga serivisi ku babyeyi, ku bana ku bagabo ,abasore n'abakobwa, abakecuru n'abasaza nabo ntibibagiranye. Hazwiho gutanga serivisi z'ibanze ubutabazi ku bantu babuze amaraso ku bufatanye na croix rouge. Bafitiye ubusitani bwiza, bafite indabo, bafite ibiti.

Inyubako yakirirwamo abarwayi barembye cyane, y'indembe hazwi nko muri irijance. Aho ababyeyi bakirirwa, aho nabaganga babitaho, abana bakirirwa, abaganga bakabitaho. Hakirwa umurwayi urembye cyane, iki cyumba kiba gifite ibikoresho byihariye n'abaganga bihariye. Bakwiye guha ubuzima abaje babagana.

Ibitaro by'akarere ka Nyarugenge ku marembo aho uhawe ikaze, hano hari indabo nziza, hari imihanda myiza, hari inyubako igezweho, inyubako y'ibitaro, aho hatangirwa serivisi z'ubuzima ku baturage batuye umujyi wa Kigali by'umwihariko mu karere ka Nyarugenge, bafite inzobere n'abaganga b'inararibonye n'impuguke zifasha mu gutanga serivisi z'ubuzima.

Siporo ni ubuzima abasiporotifu bari kugerageza gukora siporo zo kugorora umugongo, zo kugorora imitsi y'amaguru, kunanura mu gatuza hakarambuka neza bari gukorera ahantu heza cyane kuri tapi nziza cyane.

Siporo ni ingenzi cyane, kubera ko ifasha ubuzima kugira amagufa akomeye, uyu musiporutifu ari kugorora amaboko n'amaguru, yari kugorora amaguru cyane cyane ari ahantu hateguye neza.

Imiti yifashishwa mu gukoreshwa mu gihe cya siporo, aho bayisiga mu rwego rwo kugira ngo bagabanye ububabare, izwi kw’izina rya stop pain, igabanya ububabare mu gihe imikaya iri kurya umusiporitifu wamaze gukora siporo.

Siporo ngororamubiri ni umuti mwiza urinda indwara zigiye zitandukanye nk'umubyibuho ukabije, diyabete, indwara z'imitsi, impyiko, guhumeka nabi n'izindi zigiye zitandukanye, aho umusiporotifu ukunda siporo akwiye gukora siporo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima buzira umuze yirinda indwara zigiye zitandukanye zikomoka ku kudakora siporo ngororamubiri.

Ihuriro ry'impuguke n'inzobere, ku ngamba zuburyo zo gushyira imbere umuco wo gukora siporo ngororamubiri, bari guhugurwa no guhabwa amabwiriza n'ingamba z'uburyoki bagomba gukangurira abaturage gukora siporo ngororamubiri, bambaye udupfukamunwa n'ingofero z'akazi zabugenewe, bari gukurikiranira hamwe ku ikoranabuhanga mu buryo cy' ingamba zo gukora siporo ari ingenzi.

Siporo ni ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi bw'umuturarwanda n'umuturage muri rusange, aho siporo ifasha kugorora ingingo, kugorora umubiri, siporo ngororamubiri hari ukwiruka, hari ugusiganwa ku magare n'izindi zigiye zitandukanye, harimo gukina umupira w'amaguru cyangwa umupira w'amaboko, aho bifasha kugorora ingingo zigiye zitandukanye bigafasha mu kwirinda indwara nka diyabete n'izindi.

Siporo ni ingenzi mu buzima abaganga b'inzobere bari kugenda bita ku kuri aba basiporotifu bahuye n'ikibazo bari kubasiga amavuta babitaho bamuryamishije hasi bari kureba aho yavunitse bakamugorora yitaweho cyane n'abaganga b'inzobere ku kijyanye no kureba cy'umusiporatifu ikibazo umusuperatifu yahuye nacyo.

Amazi ni ubuzima kunywa amazi mu gihe cya siporo ni byiza, nyuma y'iminota mirongo itatu umusiporotifu wa nyawe aba agomba kunywa amazi, iyo amaze iminota mirongo itatu asoje siporo kubera ko amazi afasha umubiri kugira ngo ayungurure impyiko zikore neza, umubiri uhumeke neza.

Siporo ni ingenzi mu buzima umusiporotifu ari kunanura amaboko ari kunanurura amaguru yambaye imyenda ya siporo ari gukorera ahantu heza hafite isuku hakeye hakumotivetinga hagutera kuraje ugakora wishimye ugakora siporo wishimye kubera wakoze siporo ari ubuzima.

Abakunzi ba siporo, abasiporatifu abakora siporo ngororamubiri, bakwiye barya indyo yuzuye nk'imbuto n'imboga, nkuko bikwiriye umusuperatifu aba yakoresheje imbaraga nyinshi, akarya amatunda, akarya umuneke, kugirango abashe gukora siporo, umubiri ubashe kuba umeze neza cyane.

Siporo ni ingenzi cyane. Uyu mujene, bigaragara ko ari gukora siporo zo kunanura amaboko, amaguru, imbavu bityo bigafasha umubiri we guhorana itoto n'igurude hafi ye kugira ngo igihe agize icyaka, asome ku mazi akomeze akore siporo.

Siporo ni ingenzi cyane, aho umuntu akwiye kubyuka, agakora siporo kubera ko umubiri uba umaze umwanya munini amasaha agera ku munani cyangwa arindwi bitewe n'igihe umuntu yaryamiye, umuntu akwiye kubyuka agakora exercise nkeya, imyitozo ngororamubiri mikeya, kunanura amoboko, kunanura umugongo, ingingo zose zikananuka kugira ngo amaraso atembere neza. Uyu arabyutse ari kwinanura agorora umubiri.

Amazi ni ubuzima ku mukunzi cyangwa ku musiporutifu wa nyawe, ku muntu ukunda gukora siporo ngororamubiri, kuko afasha kugira ngo umubiri uhumeke neza, no kugira ngo umutima utere neza, ari kunywa amazi mugacupa, arimo mugihe cya siporo amazi anyobwa nyuma y'iminota mirongo itatu umaze gukora siporo .

Imbago ihabwa umusipolotifu wakundaga siporo, wakundaga kugororura umubiri we agahura n'ikibazo cyo kuba yakora impanuka y'akaguru, iyi mbago imufasha kuba yagenda akora siporo n'ubwo yaba yarahuye n'ikibazo cyo kuba afite ubumuga bikamufasha gukomeza kugira ubuzima akagera aho abasha kugera hafi cyangwa kure, imufasha neza.

Siporo ni ingenzi mu buzima, abasiporotifu bari kugorora ibituza, bari kugorora amaboko aho bari mucyumba gifite ibikoresho byifashishwa muri siporo ngororamubiri, uriya uri kuruhande wambaye ingofero y'umukara ari kugenda amubwira ati kora gutya na gutya gorora gutya kugira ngo uzagire amasaziro meza.

Imiti yabugenewe pomade, amavuta yabugenewe kugira ngo asigwe ku nkomere zakomeretse ziri muri sport ngororamubiri eehhh harasigwa ku mubiri, harasigwa ku mvune n'amaga naga zifashishwa mu kugira ngo aya mavuta asigwe atangiza uruhu.

Inzobere zahurijwe hamwe kugira ngo harebwe, higishwe haganirizwe, uburyo ki abashinzwe kwita ku bakinnyi n'abasiporotifu bakunda siporo, bakaba babaha ubutabazi bw'ibanze, bakaba batanga inama, bari kwigishwa ku bijyanye n'uburyo ki amavuta asigwa abasiporotifu bagize impanuka ya...

Siporo ni nziza cyane umusiporutifu agomba kurya imbuto n'imboga, birimo mandeline ,karoti, ibihaza ,amapera ,indimu n'ibindi bigiye bitandukanye, kugira ngo abashe gukora siporo neza afite ubuzima bwiza.

Ibirango byerekana uburyo ki siporo yakagombye gukorwa, ari siporo ngororamubiri, ari ugukina umupira, ari ugukoresha gym, dushyize mu Cyongereza Sports Medicine, umuti mu gukora siporo cyangwa uburyo ki siporo ifasha, ari ukugorora imbavu, ari ugukoresha igihe n'ibindi.

Siporo ni ingenzi cyane, siporo ni ubuzima, iyo umuntu akora siporo ari umusiporutifu agira imitsi ikomeye akagira amagufwa akomeye, bikabumurinda kurwara indwara za hato na hato zo mu mitsi n'indwara z'umubyibuho ukabije n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, uyu mujene ari gukora siporo ngororamubiri bikaba byamufasha kugira amasaziro meza, agasaza ameze neza.

Siporo ni ingenzi ,uyu wambaye agapira ka kotoni ufite ikarita wambaye ikarita ari gufasha uyu ugaramye kugorora amaguru ari kugorora ukuguru kw'ibumoso ari mu kumufasha kugorora ingingo hifashishijwe kiriya gishushanyo kiri ku rukuta siporo ni ingenzi kuko ituma umuntu agira amasaziro meza.

Siporo ni ubuzima, siporo ituma umuntu asaza neza, abasiporatifu bari kunanura amaguru, bari kunanura umugongo n'amaboko, hifashishijwe n'amavuta yabugenewe ari hafi ya bo inyuma mu ducupa dupfundikije imifuniko y'umutuku, siporo ni ingenzi, siporo umuntu ituma ituma umuntu asaza neza.

Siporo ni ingenzi cyane uyu mu siporutifu ari kunywa amazi mu gihe cyo gukora siporo nyuma y'iminota mirongo itatu abantu baba bakwiye kunywa amazi kugira impyiko zikomeze zikore neza n'umubiri ubashe guhumeka neza, afite icupa ari kunywa amazi.

Siporo ni ingenzi mubu buzima, uyu muporatifu wambaye agatisheti wambaye ipantaro ya siporo n'inkweto za siporo ufite telefone na ekuteri arimo aranywa amazi, amazi ni ubuzima mu gihe cya siporo, kuyanywa usoje siporo, nyuma y'iminota mirongo itatu, ukanywa siporo yicaye kuri esikariye arikuywa amazi kugirango ngo amufashe mu mpyiko.

Siporo ni ingenzi mubu buzima aba bari gukina imikino ya rugubi bafite balo, uyu wambaye agatisheti, k''umutuku n'ikabutura y'umukara n'inkweto z'umukara, arimo anagerageza kumva amabwiriza y'uriya begeranye wambaye ipantaro bari mucyumba cya siporo bari gutozanya imikino y'amaboko.

Amazi ni ubuzima ku musiporutifu wa nyawe cyangwa ku umuntu ukunda gukora siporo cyane, kubera ko amufasha nyuma yo kugabanya ibinure no kugabanya ibiro, cyangwa nyuma y'uko umubiri we usohoye ibyuya mu mubiri, umuntu ayanywa nyuma y'iminota mirongo itatu arangije gukora siporo akamufasha kugirango yongere kugarura umubiri muzima, yongere guhumeka neza mu buryo bwiza buboneye.

Gukora siporo ni ingenzi, uyu wambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare, ari gufasha uyu mujene gukora siporo y'akaguru, agenda agorora akaguru yifashishije biriya byuma, byifashishwa mu gukora siporo kuko siporo ari ubuzima.

Siporo ni umuti mwiza wagufasha mu kwirinda umubyibuho ukabije, indwara zikomoka ku kudakora siporo ngororamubiri, harimo nka diyabete, kurwara impyiko, kurwara umugongo, rubagimpande, n'izindi ndwara zikomoka ku kudakora siporo ngororamubiri. Uyu mujene arimo gukora siporo ngororamubiri, aho ari kugorora ingingo zose.

Amavuta yifashishwa mu gihe cya siporo ari mu ducupa no mu dukarito tugiye dutandukanye n'ibinini byifashishwa mu gukora siporo, ni ingenzi cyane kuberako bifasha kugirango ngo umuntu agire akore siporo neza ari amavuta yifashishwa mu gihe umuntu yagize ubushyuhe bukabije cyangwa mu gihe umuntu yagize ibisebe byo kuba yakomeretse aya mavuta n'iyi miti ishobora kuba yamufasha kugira ngo yongere agarure ubuzima bwiza.

Siporo ni ingenzi ku buzima bwa muntu. Uyu musiporatifu arimo arananura amaguru n'amaboko, afite igipimo gipima buryo ki amaraso yiwe ari gutembera. Hafi ye hari igurude yifashisha anywa amazi, yibutsa ko amazi anyobwa nyuma y'iminota mirongo itatu umuntu amaze gukora siporo.

Siporo ni ingenzi ku buzima bwa muntu uyu mujene ari gukora siporo yo kugorora ingingo anumva n'umuziki yambaye imyenda imufasha gukora siporo bitamugoye aari gukora siporo zo kugorora amaboko n'amaguru n'umugongo bikamufasha kuba yagira amasaziro meza agasaza ameze neza afite ubuzima buzima..

Ibikoresho bya siporo, ni ingenzi cyane, hari ibyifashishwa nk'amavuta umuntu yisiga agiye muri siporo, kugirango ngo umubiri ubashe guhumeka neza, twengeyeho tubashe kuzibuka, hari ibyifashishwa mu gihe cyimpanuka nka bande, hari byifashishwa nk'imakasi, mu gihe cyo mu siporatifu yakoze impanuka akaba yakihandura amabuye cyangwa ikandura ibindi bintu byamujombye hari byifashishwa nk'ibinini, n'ibindi.

Indyo yuzuye ku musiporotifu cyangwa ku bakunzi ba siporo ningenzi, nk'imbuto n'imboga, manderine na ji yavuye mu mbuto, ni ingenzi cyane ku muntu ukunda gukora siporo, agakoresha na metero kugira ngo arebe ko afite ubuzima buzima.

Siporo ngororamubiri ni ingenzi cyane, uyu musiporatifu ari kugorora amaguru n'amaboko, aho ari gukora siporo yo kuzamura akora tize, yambaye imyenda yabugenewe mu gukora siporo yambaye inkweto nziza zabugenewe zizwi nka sipuresi zo gukora siporo, dukangurira n'abajene bagenzi be kuba bakora siporo, Siporo ni ubuzima ifasha mu gusaza neza.

Yavunitse, yahuye n'ikibazo cyo kuvunika akaboko ariko yahawe ubutabazi bw'ibanze nkuko bande yashyizwe ku kaboko iraza kumufasha mu kongera kugira ubuzima bwiza, akagaruka mu buzima, yari umusiporutifu, yakoraga siporo zo kugorora amaboko, ariko yahuye n'ikibazo cyo gukora impanuka, ahabwa ubutabazi bw'ibanze, arakira vuba.

Ibinini byifashishwa mu kurinda abasiporatifu bakunda gukora siporo ngororamubiri ku kuba bahura n'ibibazo runaka, hari ibinini, hari imiti yo kunywa igiye itandukanye, tugenekeje mu ndimi z'amahanga hariya magambo ari hariya defiyuca foru pafomense inihansingi darage ini sipoti, ni ukuvuga ngo ni bininini bifasha mu kugira ngo umusigatitifu wa nyawe akomeze agire ubuzima buzima agire amasaziro meza.

Siporo ni ingenzi mu buzima abasiporatifu babiri bahora barakora umucakara bambaye imyenda yabugenewe amasengeri wambaye isengesho y'ubururu, hari abambaye isengeri y'umukara, bose bambaye amakabutura yabugenewe, bafite amagururude, harimo amazi, bagize icyaka byibumba umubiri ukeneyei amazi banywa amazi amazi yanyobwa mu gihe cy'iminota mirongo itatu umuntu amaze gukora siporo, umwe yambaye isaha.

Siporo ni ingenzi mu buzima, uyu mu sporotifu ari gukora siporo ananura amaboko n'amaguru, yambaye imyenda imurekuye ku buryo ki irimo streci ari mucyumba gifite dekoraration nziza cyane ku buryo akora siporo yizihiwe anezerewe.

Gukora siporo ni ingenzi cyane kuko bifasha mu kurinda imitsi mu buryo bugiye butandukanye, uyu yifashishije agatambaro ari kugenda yikanda akaguru aho yavunitse yifashishije imiti yabugenewe.

Siporo ni igenzi mu buzima hanyuma arakora siporo yo kunanura amaboko yifashishije umugozi, hari umuntu umuri iruhande uri kumwerekera amuwira ati : ''kora gutya kugirango ubashe kugorora ingingo,.'' Ari mucmba cya siporo aho afite abamufasha siporo ifasha kugira ngo umuntu agire amasahaziro meza.

Siporo ni ingenzi mu buzima uyu mujenekazi ari gukora siporo yo kunura akaguru no kunanura amaguru arikunanura akaguru k'iburyo yambaye neza nk'umusiporotifu, hafi ya hari gurude y'amazi nakenera amazi arushye araza gusomaho kugira ngo akomeze siporo ari gukora siporo yiyumvira n'umuziki ari muri ekoteri, ari hafi ya jaride nziza cyane.

Siporo ni ingenzi mu buzima aba baganga bari kwita kuri uyu wahuye n'ikibazo mu gihe yakoraga siporo ,aragaramye yambaye ipantaro ya kacyi ,abaganga babiri bari kumwitaho ,imbere hari abandi bantu babitegereza uburyo ki ari guhabwa ubuvuzi ari gushyirwamo tije mu kaguru k'iburyo.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi k'ubururu n'umukufi, uri kunywa amazi, bigaragara ko yari afite icyaka n'inyota nyinshi cyane kandi tuzi ko amazi ari ubuzima. Amazi aba akenewe cyane kugira ngo umubiri ukore neza.

Inzu y'abantu bakunze gukora siporo ngororamubiri bakunda gukoreramo, jyimu, aho benshi bakunda kwiyita mu ndimi z'amahanga jyimunaze.

Siporo ni umusingi wo kugira ubuzima bwiza buzira umuze no gutegura amasaziro meza, umuntu agasaza ari injege, agasaza nta hene n'indwara. Sporatif ari kunanura ingingo z'amaboko, ibitugu aho yambaye imyenda yabugene mu gukora siporo.

Bande y'umutuku yifashishwa mu gihe cya siporo, igihe wagize agashoke ari muri mucaka ku ba siporutifu ukunda gukora mucaka cyangwa ku bakinnyi b'umupira w'amaguru cyangwa uw'amaboko, mugihe bari kugorora ingingo yifashishwa mu kugira ngo ifashe amagufa akongera gusubira mu mwanya wayo neza.

Aba babyeyi bazanye umwana kwa muganga ushinzwe ku kureba ese siporo hari icyo yafashije uyu mwana mu kuba indwara zo mu kanwa zikomoka ku kudakora siporo zaba zaramufashe cyangwa yaba ntazo afite, uyo muganga na we ari kugerageza kukureba mu kanwa k'umwana ngo arebe niba nta kibazo hafite.

Kunywa amazi ni ingenzi mu gihe cyo gukora siporo aho umusiporutifu wanyawe agomba kunywa amazi ahagije nyuma y'iminota mirongo itatu akoze siporo bikamufasha kuba impyiko zakora neza, imitsi igahumeka neza, akagira umubiri muzima udafite ikibazo ari kunywa amazi. Ari kunywa amazi mu gihe cya siporo kugira ngo amufashe.

Siporo ni ingenzi mu buzima uyu musiporotifu arimo anakora siporo zo kugorora amaboko, kugorora ibituza, siporo ni ingenzi cyane kubera ko ifasha kugira amasah umuntu kugira amasaziro meza akagira imitsi ikomeye n'umubiri ukomeye n'amagufa akomeye akagira akaba yagira amasaziro meza akaaaza akiri umusiporotifu wa nyawe.

Siporo ni ingenzi mu buzima ariko abantu bagakora siporo birinda nkuko izi ndimi z'amahanga zibivuga tugenekereje biravuze ngo mayike epureyi foru safeti are avayidebo, ukora siporo wirinda gukomeretsa mugenzi wawe muri kumwe, wirinda kuba wamugusha hasi umwataka wigengeseye kugira utamukomeretsa cyangwa umukoresha impanuka.

Icyumba kirimo ibikoresho bya siporo byifashishwa n'abasiporatifu harimo imigozi yo gusimbuka, harimo ibyuma by'ikoranabuhanga bishinzwe kugabanya ibiro no kureba ko umuntu afite ibiro biri ku rugero birimo urugero harimo ibijyanye na gimu harimo umufasha wambaye udupfukantoki ushinjwa gufasha abaje bagana iki cyumba cya siporo kugira ngo abafashe kuba bakora siporo kubera ko siporo ari ubuzima.

Siporo ni ingenzi, siporo ifasha uyikora kugira ngo agire ubuzima bwiza, agasaza neza ,agasaza afite amagufa n'imitsi ikomeye, uyu musiporutifu ari kugorora amaguru n'amaboko n'umugongo, ari muri jaride nziza bityo bikamufasha mu kugira impagarike nzima.

Sport ni ingenzi cyane ,sport ifasha kugira ngo umuntu agire amasaziro meza agire ubuzima buzira umuze hehe n'indwara zikomoka ku kuba umuntu atakoze siporo ngororamubiri agire imitsi mizima amaraso atembere neza ,uyu yari ari gukina umupira w'amaguru yavunitse ari kwitabwaho ,hafi hari agakapu karimo ibikoresho nka bande n'indi miti igiye itandukanye ifasha mu gihe cyo gukora siporo ngororamubiri.

Siporo ni ingenzi cyane, uyu musiporotifu ari kugorora imitsi y'akaboko n'amaguru, siporo ifasha umuntu kugira amagufa akomeye, ikamufasha kugira ubuzima bwiza, agasaza neza.

Siporo ni ingenzi uyu musiporutifu ari gukora siporo afite amatuza yambaye imyenda ya siporo ameze neza, ahantu ari gukorera hari ibikoresho byifashishwa muri siporo byiza cyane icyumba cya siporo, icyumba yizihiwe no gukora siporo cyane.

Siporo ni ingenzi cyane, yaba abakuze yaba abajene, yaba abafitemuga n'abatabufite. Iri ni igare rifasha umusiporotifu, umukunzi wa siporo ufite ubumuga, akaba yakora siporo akagenda anyonga igare, ameze neza.

Umuhanda urimo imbangukiragutabara isa n'ihagaze, yerekeza imbere ariko iri hafi y'ikigaragara nk'ubusitani butarafata neza bugisazurwa.

Ikirango cyerekana umuti ufasha mu komora ibisebe ibikomere byatewe no gukora siporo mu mugihe umuntu yakoze siporo agakora impanuka uri mura mu nyuguti z'umweru wanditse ku ibara ry'ubururu n'izina ryawo kuko witwa.

Siporo ni ingenzi ye ariko ukibuka no gufata indyo yuzuye irimo imbuto, imboga ukibuka no gukoresha igipimo gipima ko ibiro byawe bitari byinshi kizwi nka metero, utibagiwe no kunywa amazi kuko amazi ni meza kuko afasha impyiko gukora neza mu gihe cya siporo ku mu siporutifu no kuwugira ngo umubiri ukore neza.

Siporo ni ingenzi cyane, uyu mujene ari kugorora umugongo, akagoro amaboko, akagorora amaguru. Yicaye ahantu hagoroye cyane hameze neza, yambaye imyenda ya siporo.

Siporo ni ingenzi mu buzima bwa muntu kuko ifasha mu kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza buzira indwara zikomoka ku kudakora siporo ngororamubiri, bityo siporo igafasha kugira amasaziro meza y'umuntu yakoze siporo yirinda indwara nk'impyiko umuvuduko w'amaraso umubyibuho ukabije n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Uyu arigukora siporo igorora amaboko birafasha ukagira amasaziro meza.

Ari gukora siporo zo guterura, ikizwi nko guterura ibyuma kugira ngo agorore agatuza n'amaboko, yambaye agatisheti k'umukara n'ipantaro ya siporo igaragara ijya gusa na kaki, ari mu cyumba gifite ibikoresho bya siporo biri mu ibara ry'umukara bigaragara ko ari gukora siporo.

Umusiporatifu wanyawe, umukunzi wa siporo, akwiye kujya yifashisha mu kurya indyo yuzuye igihe avuye muri siporo ya mu gitondo, akaba yarya imbuto, akaba yanywa ji ikoze muri pome, akaba yafata inkeri se, akaba yafata ibiryo bifite intungamubiri, imbuto ni nziza ku muntu ukora siporo, ukunda siporo.

Siporo ni ingenzi cyane uyu musiporutifu arikunanura akaguru k'ibumoso akandi karahagaze yambaye neza yambaye imyenda yabugenewe imyenda y'amatiriningi n'inkweto za siporo. Siporo ifasha umuntu kugira amasaziro meza agasaza ameze neza.

Sport ni ingenzi cyane, sport ireba buri umwe wese yaba abafite ubumuga cyangwa abatabufite, abakuze n'abagene b'urubyiruko, aho bahurira hamwe, abafite ubumuga barimo kugendera mu kagare bafashwa n'abadafite ubumuga mu gukina imikino ngororamubiri.

Siporo ni ingenzi cyane, iki cyumba kirimo ibikoresho byifashishwa n'abasiporotifu n'abakunzi ba siporo, bigiye bitandukanye jimu, ibitanda biryamwaho mu gihe cyo gukora siporo no kugorora umugongo, n'igipimo gipima ibiro umuntu afite niba agejeje ku biro yifuza.

Siporo ni ingenzi cyane, uyu musiporatifu arimo arakora siporo, arimo aragorora umugongo, amaboko, arapfukamye, yambaye imyenda ya siporo, yambaye imyenda y'umukara arimo aragorora, ari gukorera ku mukeka, siporo ni ingenzi mu buzima kuko ifasha kugira amasaziro meza cyane.

Umuti ufasha abasiporatifu cyangwa abakunda siporo ngororamubiri, uzwi nk'amavuta asigwa ku mubiri kugirango arinde infection z'inyuma ku mubiri nk'uduheri dushobora guterwa no kuba umuntu yirutse cyane, ushobora kuvura n'amavunane ahantu umuntu yawisize.

Amavuta yifashishwa mu gihe cya siporo kugira ngo bagabanye ububabare bw'umubiri mu gihe umusiporutifu yakoze siporo, kubabara kw'imikaya, kubabara kw ihuriro ry'ingingo kubabara k'umugongo n'ibindi, aho aya mavuta asigwa ku muntu wakoze siporo mu rwego rwo kugira ngo amufashe mu kugira ngo umubiri wongere ukore neza umurinde kuvetera cyangwa kubabara imikaya.

Siporo ni nziza cyane nigihe umuntu yakoze siporo agahura n'impanuka hari amavuta yabugenewe ahasigwa ku mvune kugira ngo umuntu yongera asubirane ubuzima bwiza akomeze kugorora umubiri agorora siporo akora agorora ingingo agire amasaziro meza kubera ko yakoze siporo kandi akisigagana n'imiti yabugeneye kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Siporo ni ingenzi mu buzima, gukora siporo, siporo ni' isoko yo kugira ubuzima burambye nk'umusiporotifu wa nyawe uyu ari kunura akaboko ari kugenda yifashisha akatambaro ako nakwit agatambaro kari mu ibara ry'ubururu ari kunura akaboko agenda acishaho afite n'amavuta yabugenewe kugirango ngo akore siporo neza.

Ibitaro byitiriwe umwami Faisal bizwiho gutanga serivisi z'ubuzima ku burwayi bugiye butandukanye,, ari ubwa kanseri ari indwara zifata ibihaha, indwara z'uruhu, bizwiho kugira inzobere n'impuguke mu gutanga serivisi z'ubuzima, abaganga babihuguriwe b'inzobere bari kugerageza gusiga cyangwa gukora amasuku, gusiga amarangi mashya kuri iyi nzu.

Umugore wambaye isharupe y'umweru ufite amarinete, uri gukora cyangwa uri kugenzura ibimera gakondo ko byeze bikwiye gusarurwa, inyuma bigaragara ko hari igikakarubamba.

kimera gakondo kizwi ku izina ry'umuravumba cyifashishwa n'inganda zigiye zitandukanye zaba izigezweho zirimo moderine n'inganda zikora imiti gakondora, umuravumba ni ikimera gakondo cyiza cyane kizwiho kugira ibikoresho cyizwiho kugira minerozi zifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye.

Ikimera gakondo kifashishwa mu gukora uriya muti witwa foreva burayiti tufuji uzwi nk'umuti uva mu gikaka mu kimera gakondo cyitwa kizwi ku izina ry'igikakarubamba, aho umuti wifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu kugira uruhu ruse neza umuntu akagera uruhu rukeya.

Amavuta ava mu gikakarubamba, igikabakarubamba kizwiho kugira amavuta meza, isabune byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zifata uruhu nk'ibishishi, ibiheri byizanye n'izindi ndwara zigiye zitandukanye aho umuntu wisize amavuta cyangwa wakoresheje isabune iva mu gikakabamba agira uruhu rwiza runyerera agahorana itoto.

Inzu ibitse cyangwa ububiko bw'imiti gakondo, yifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi gakondo ku baturage baje bagana iri vuriro, ritanga imiti gakondo cyangwa riyigurisha ku banyarwanda bose, aho bafite imiti igiye itandukanye, bitewe n'uburwayi bw'umurwayi.

Ikimera gakondo kifashishwa mu kuvura malariya gitoshye cyane kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, cyifashishwa nk'ibikatsi aho umuntu akinywa igihe yafashwe n'ibimenyetso bya malariya.

Ibinini byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye kenshi banyunya, bivura indwara nk'inkorora, umutwe n'ibindi biva mu bimera gakondo, aho biva mu muravumba n'indi miti igiye itandukanye byifashishwa mu kuvura indwara z'umutwe n'ibindi n'ububabare bw'umubiri bugiye butandukanye.

Ikimera cyifashishwa mu gukora amavuta, mu gukora isabune, mu kuvuguta cyangwa mu kugihondahonda bakoresheje ibikoresho by'isuku, bakagihonda mpaka kivuyemo ibikatsi byavura umurwayi agakira neza, akagira ubuzima bwiza, akongera akagira imibereho myiza, akagira uruhu rwiza.

Imiti gakondo iri vuriro rifite imiti igiye itandukanye iva mu bimera bigiye bitandukanye, bafite ububiko bw'imiti myinshi cyane ari iva mu miravumba, mu gikakarubamba, muri gitinywa, umwenya, umugwegwe n'ibindi biti bigiye bitandukanye bibyara iyi miti gakondo yifashishwa isizwe bayinywa n'ubundi buryo bwo kuyikoresha.

Umuti gakondo uva mu kimera gakondo, igikakarubamba, uzwi ku izina rya foreva bi poropolisi, wifashishwa mu kurinda indwara z'uruhu, mu kuvura indwara z'uruhu no kugira uruhu runoze rukeye.

iki kimera gakondo cyabonye izuba rihagije n'imvura ihagije, kiratoshye, kimeze neza, kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, cyiteguye gusarurwa kigatanga umusaruro mwiza, mu nganda zagenewe gutunganya ibimera gakondo bikavamo imiti myiza yafasha abanyarwanda.

Umuti gakondo uri mu icupa ry'umweru wanditseho uburyo ukoreshwa, uzwi ku izina ry'agasiga hariho agasiga k'umukara, ufite akaringo kerekana igihe wakorewe n'uburyo wifashishwa mu kugira ngo umubiri ube muzima.

Ikimera gakondo gitanga umuti wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, z'umubiri, aho gisarurarwagika kigatunganywa gishobora kuba cyasekurwa cyangwa kikajyanwa mu ruganda kisembwa, kikavamo ifu yo kwifashisha mu kuvura indwara z'itandukanye.

Igikakarubamba ni umuti mwiza gakondo wifashishwa mu kugira ngo hakurwemo amavuta, amavuta afasha uruhu gusa neza, kuba umuntu yayaga, kuba umuntu yahorana itoto n'igihe yaba ashaje ari umusaza cyangwa ari umukecuru agahorana itoto, igikakarubamba gikenerwa n'inganda zikomeye ku Isi ndetse no mu Rwanda kugira ngo cyifashishwe mu gukora amavuta n'amasabune n'ibindi.

Imbuto na zo ni kimwe mu miti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, nko gukoresha indimu, manderine, n'izindi mbuto zigiye zitandukanye, amapera byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye nk'amareriji, kutareba neza, umuntu akagira intungamubiri akura muri izi mbuto aba yariye zimufasha kureba.

Ikimera gakondo kizwi ku izina ry'umuravumba, gifasha mu gukora imiti igiye itandukanye gifasha mu kuvura inkorora, kiratoshye cyane kimeze neza gifite ibibabi by'ibitontome bimeze neza, umuravumba ni ingenzi cyane mu nganda zikora imiti gakondo ukwiye gushyirwa imbere no kubungabungwa kugirango ngo ufashe inganda.

Imiti gakondo iva mu bimera bigiye bitandukanye, hari iva mu gikakarubamba, hari iva mu miravumba, hariv iva mu bindi biti bigiye bitandukanye, umwenya yifashishwa mu gukora amavuta abaturage cyangwa umuntu urwaye indwara z'uruhu cyangwa umuntu ukeneye kugira uruhu rusa neza akaba yayisiga cyangwa akaba yakaraba amazi irimo.

Imiti iva mu bimera gakondo, bimera mu ishyamba ry'akagera, ifasha abanyarwanda n'abatuye u Rwanda mu kuba bagira ubuzima bwiza, bitewe n'uko iriya miti gakondo iba yifitemo minelozi, ikaba yifitemo kemikozi zifasha uruhu gusa neza.

Ikimera gakondo kizwi ku izina ryo kwitwa igikakabamba mu Kinyarwanda, gifasha mu gukora amavuta agiye atandukanye, mu gukora isabune zigiye zitandukanye zifashishwa mu kugira ngo uruhu ruse neza, zivura indwara z'uruhu nk'ibiheri, ibishishi n'izindi ndwara zigiye zitandukanye z'umubiri.

Amavuta meza afasha mu kugira ngo uruhu ruse neza, umuntu agire uruhu rwiza, aya mavuta ava mu buki, ava mu buki.

Umuti gakondo uzwi, uva mu gikakarubamba, havamo amasabune, amavuta yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu; zigiye zitandukanye no kugira ngo uruhu ruse neza. Igikakarubamba ni ikimera gikunzwe gukoreshwa mu miti gakondo myinshi, igiye itandukanye.

Imiti gakondo iva mu bimera gakondo, aho iva mu ndabo, ikava mu biti bigiye bitandukanye, hari ibinini biba byavuye mu bimera nk'uko izi ndabo zibigaragaza hari binini biba byavuye muri izi ndabo, byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zataka abantu bagiye batandukanye.

Ikimera cyitaweho neza, kirashishe, kimeze neza, cyabonye imvura, bigaragara ko cyatanga umuti wizewe wo kugira ngo ufashe abanyarwanda n'abandi baturage bitewe n'indwara barwaye kugira ngo babashe kuvurwa bakire.

Amavuta ava mu buki yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye; indwara z'amarozi, indwara z'abana, indwara zo mu kanwa; ubuki buvamo amavuta agiye atandukanye yifashishwa mu kugira ngo abarwaye cyangwa abakeneye kugira uruhu rwiza; abakeneye kugira ubwenge; ubuki ni ingenzi cyane.

Amavuta akozwe mu gikakarubamba utuboxi turimo ibara rijya gusa icyatsi kibisi ,amavuta akozwe mu gikakarubamba no mu cyayi arimo afite uburyo bwanditse hejuru akoreshwamo, hari agaragara nkaho ari ku bishyitsi muri nature cyangwa muri jardin nziza.

Umuti gakondo uzwi ku izina ry'umuravumba wifashishwa n'inganda zikora imiti gakondo zigiye zitandukanye mu gukora ibinini cyangwa imiti ivura inkorora n'umutwe n'izindi ndwara zigiye zitandukanye zikenera umuravumba.

Imiti gakondo iva mu bimera gakondo iri mu ducupa tugiye dufite amazina inyuma ari mu nyuguti z'imikara yometswe ku gapapuro k'umweru, inzu bigaragara ko ari sitoke ari ububiko bw'iyi miti gakondo nyuma yo gutunganywa n'inganda zikora imiti gakondo.

Umuti gakondo bigaragara ko uri mu kintu kimeze nk'igisorori, cy'ikirahure uri mu ibara ry'umuhondo, urimo ikiyiko cyifashishwa mu kugira ngo ukoreshwe, inyuma hakaba hari ibindi ibimera gakondo byasaruwe kugira ngo ujye uvamo biri mu ibara ry'icyatsi, uri ahantu hagaragara nkaho hari ku meza, ku ruhande hari akantu kari kujya guhinguka kameze nk'akarimo ubuki.

Umuti uva mu bimera gakondo uzwi ku izina ryo mu ndimi z'amahanga fosevoro sorubo ukozwe mu bimera bijyiye bitandukanye uri mu kabokisi k'umutuku gapfundikije ibara ry'umweru gukorwa mu bintu bigiye bitandukanye by'ibimera.

Ibimera gakondo byifashishwa nk'umuti bizwi ku izina rya tungurusumu tungurusumu ni ikimera cyifashishwa mu guteka kigafasha ibiryo kuba byahumura neza bikagira n'impumuro nziza bikagutera apeti tungurusumu ifasha mu kuvura indwara ziigi zitandukanye.

Ikimera gakondo gifite amababi yicyatsi kiri ahantu hasa naho ari hafi y'itaka kikizamuka kikiri urugemwe, hafi yacyo hari ibintu bisa naho byumye cyane bigaragara ko gisa naho ari kimwe.

Amavuta meza cyane, ava mu gikakarubamba afasha kugira ngo uruhu ruse neza, no kuvura indwara z'uruhu, hari ari muri turiya ducupa tw'umweru, hari n'ari muri ririya cupa ry'umuhondo ririho igikakarubamba.

Umuti gakondo uva mu kimera gakondo kitwa igikakarubamba bavanzemo n'icyayi aho havamo amavuta meza cyane yifashishwa mu kwisiga kugira uruhu ruse neza umuntu akagira uruhu rukeye cyangwa akisiga ayo mavuta akisigagwa kugira ngo umuntu avure indwara z'uruhu nk'ibiheri ibishishi n'ibindi.

Ikimera gakondo kifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye, gifite amababi agiye kumera nk'umusave, cyifashishwa mu gukora ibintu bigiye bitandukanye, iyo kimaze gukura gishobora kwifashishwa mu mbaho n'ibindi bigiye bitandukanye, cyabonye imvura ihagije, kiratoshye ni icyatsi kibisi.

Ikimera karemano kifashishwa mu kugira ngo gikoreshwe mu gukora umuti mwiza wafasha abarwayi bakagira uruhu rwiza ,bakagira mu maso heza ,bakagira uruhu rworoshye bigaragara ko cyabonye imvura n'izuba bihagije kikabasha kwifashishwa mu gutunganywa no gutegurwa kugira ngo kizavemo umuti uzafasha abazagikoresha bitewe n'uburwayi.

Ikimera gakondo gitanga imiti igiye itandiukanye kizwi ku izina ry'umusave, kiri ahantu hameze nko mu rwiri.

Ibimera gakondo bifite indabo z'imihondo bigaragara ko byabonye imvura n'izuba bihagije, harimo indabo zisanzwe, hakabamo umuravumba w'imbere, wifashishwa mu kugira ngo ukoremo imiti gakondo ivura inkorora n'izindi ndwara zijya zitandukanye.

Ikirango kiri mu mpine mu ndimi z'amahanga Rwanda fudu andi daragi otoriti, tugenekereje mu kinyarwanda uruhushya ikigo k'igihugu gishinzwe gutanga uruhushya rwo gukoresha ibiryo n'ibinyobwa, kugirango habeho ingamba zijyanye no kugira ngo ubuzima bw'abaturage butononekara.

Imiti gakondo iva mu bimera gakondo nk'ibicunshu nk'imiravumba n'ibindi bigiye bitandukanye yifashishwa mu kugira ngo ivure indwara zijyiye zitandukanye indwara z'uruhu indwara z'inkorora n'ibindi.

Umuti uvura abashakanye, umugabo n'umugore. Aho ubafasha mu kugira no kongera ubushake, gukora imibonano mpuzabitsina ku bantu bacika intege cyangwa ku bantu bacogora cyangwa bagira imbaraga nkeya mu gutera akabariro.

Umuti uva mu gikakarubamba wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye nk'ibiheri, ibishishi ufasha kugira ngo uruhu ruse neza aho havamo isabuneiriya iri ku kameze nk'agasiyete cyangwa ukavamo aya mavuta ari muri aka kabokisi ka purasitike uriho uzwi ku izina umeze nk'agasiga.

Amavuta afasha mu kuvura indwara z'ubu zigiye zitandukanye azwi ku izina ry'agasiga, yifashishwa mu kuvura ibishishi, ibiheri no kugira ngo uruhu ruse neza, ruyage, umuntu agahorana itoto kubera ko yisize aya mavuta

Imiti gakondo, iva mu kimera kizwi nk'urubuto rwa manderine, urakanda amazi akavamo akajya mu gakombe ukaba wavanga n'ibindi ibimera bigiye bitandukanye. Ukacyifashisha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, kiri mu gakombe kiri ku karago.

Ikimera gakondo inyabarasanya yifashishwa mu komora ibisebe cyangwa ibikomere by'umuntu wakoze impanuka, izwiho kugira ububasha bwo gukiza igisebe vuba yabonye izuba neza kandi ibona n'imvura ihagije yabasha gukiza igisebe.

Amavuta meza cyane ari mu macupa y'imihondo apfundikije utupfuniko tw'umukara yanditseho foreva aloye jeri ava mu gikakarubamba, igikakarubamba cyifashishwa mu gukora isabune amavuta meza avura ibiheri ibishishi n'indwara zindi z'uruhu igikakarubamba kizwiho kugira ngo cyifashishwe mu gukora ibi byose kuko gifasha urugusa neza.

Imiti gakondo iva mu biti gakondo, ikoreshwa nk'amavuta yo kwisiga cyangwa igakoreshwa nk'isabune, iri mu tubogisi tw'umweru, ifite amazina agiye atandukanye, ariko yose ifite izina yitwa agasiga.

Amavuta ava mu gikaka rubamba ni amavuta meza atuma uruhuru rucya uwari ufite iminkanyari akayaga ashobora no gufasha abageze mu za bukuru kuba bakongera kugira itoto bakagira itoto bakamera neza bitewe n'uko bisize ayo mavuta yo mu gika kabamba, ubuhinzi bw'igikakarubamba rero bukwiye gushyirwamo imbaraga bugatezwa imbere kubera ko buva mu mavuta meza,

Ibimera gakondo byifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye, harimo nk'umuravumba, harimo n'ibindi bigiye bitandukanye, igikakarubamba cyifashishwa mu gukora amavuta meza cyane, amavuta yabugenewe akorwamo, yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu n'ibindi bimera bigiye bitandukanye.

Imiti gakondo ifasha mu kurinda indwara zo mu kanwa, kurinda amenyo, imiti ikozwe mu buki no mu gikakarubamba, hari imiti y'amavuta, hari imiti ikoze mu mazi iri muri turiya ducupa tumeze nk'utwa handi sanitayiza ifasha abana n'abakuze kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Birinde indwara zo mu kanwa.

Amavuta meza meza cyane ava mu kimera gakondo cyitwa igikakarubamba, afasha mu kugira ngo abantu bagire uruhu rukeye rusa neza umuntu agashashagirana akagira itoto no mu gihe ageze mu zabukuru akagira uruhu runoze, uruhu runyerera rumeze neza, ayo mavuta ni meza rero.

Amavuta ava mu bimera gakondo bigiye bitandukanye, ava mu ndabo, ava mu bihwagari, ava mu ndabo zigaragarira amaso ko ari nziza, indabo z'umuhondo zifasha kugira ngo zitange impumuro nziza muri aya mavuta, hari amavuta ari mu ducupa, hari amavuta arimo udu muducupa dutatu tw'umweru, hari n'andi n'andi mavuta ari muri ririya cupa rirerire.